Abagabo n'abagore bicaye hamwe ku meza hariho igitambaro cy'umweru hateretseho mashine barimo baraganira, bateze amatwi bumva ibyo bari kubaganiriza, abagabo bambaye kositime na baji, abagore na bo bambaye ikote, mu mutwe bafite imisatsi myinshi.

Abantu bagiye batandukanye, abagore, abagabo, abirabura, abazungu bari kwifotoza ifoto z'urwibutso bafite imisatsi mike iringaniye abambaye amapantaro bifashe ku maboko, abambaye imipira, amashati y'amaboko maremare, amajipo ku bagore n'inkweto bari kwifata ifoto y'urwibutso.

Umwana wicaye mu ibase, bari kumwoza mu mutwe, nawe ari kwikora mu mutwe, mama we arimo araseka, akenyeye igitenge, yambaye agasengere, hirya hari undi mwana ufite indobo ari kuri robine, arimo arabareba agaseka, hari n'undi mugore n'umwana bari kumwe bose bakenyera igitenge, bafite indobo mu ntoki, hirya hari n'ibido

Umugore wicaye hasi ku musambi uteruye umwana, umwana barimo baramuha amata, umugabo wambaye rinete n'umupira wa oranje, ufite umusatsi utari mwinshi cyane, hirya hari n'undi mugabo nawe wunamye, hari undi mumama na we wambaye ingofero uri guha umwana amata.

Umumama wirabura wambaye ijipo urimo uravoma uteruye ikibedo kinini, iruhande rwe hari abana bambaye umupira w'umutuku wifashe ku nda, undi arimo arareba icyo kibido, amazi ni meza tuyakoresha ibintu bitandukanye guteka, kumesa, gukoropa, koga.

Abantu batanu: umugore umwe, abagabo bane, umugabo umwe yambaye rinete, umugore n'umugabo bambaye baji mu ijosi, umugabo umwe wundi arahagaze, yambaye isaha ku kaboko, imbere yabo hakaba hateretse amajyane. Abo bantu bose uko ari bane, bakaba bambaye amashati, hakaba harimo n'abambaye umupira hamwe n'amataburiya.

Umugore uteruye umwana imbere yabo hari umugabo wambaye umupira wa oranje, wambaye amarinete, ufite isane mu ntoki iriho ibiryo urimo uraragaburira umwana. Ni umuryango ufasha abana bahura n'ibibazo by'imirire mibi mu kubazahura kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Umuganga witeze akantu mutwe, ufite imisatsi y'imikara, yambaye itaburiya y'amaboko magufi y'umweru, n'igikoresho yifasha apimisha abarwayi mu ijosi, yambaye amarinete, ari kumwe n'umurwayi uteze ibitambaro mu mutwe, wiciye ku gatanda k'abarwayi, hakuno hari n'undi muganga wambaye itaburiya y'umweru ufite ifishi mu ntoki.

Hari abana barimo barapompa robine ivana amazi mu butaka, hari ibasi iriho barimo baravomera n'indobo n'ibibido, hari umumama ukenyeye igitenge n'igitambaro mu mutwe cy'umweru, ufite umwana mu ntoki, barimo baritegereza hirya, tuvome kuko amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagore batatu bicaye baje kwa muganga, bakenyeye ibitenge, bateze ibitambaro mu mutwe, umwe wambaye agapira k'umutu, undi witeze igitambaro gisa oranje, hirya hari ibyatsi n'ibiti biri kumera, bifite amababi asa iyatsi kibisi, hari n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru urimo urasuzuma abarwayi.

Umugabo uhagaze hagati, wambaye itaburaya y'umweru, ipantaro ndende, inkweto z'umweru, arimo atanga ikiganiro, abantu baricaye baramukikije, abagore n'abagabo, abateruye abana, bambaye ibitenge, abandi bambaye amakote, twitabire inama twumve ibiganiro baduhereza, kuko aba ari iby'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, abambaye itaburiya z'umweru, abitezeza ibitambaro mu mutwe bari kwifotoza bifata ifoto y'urwibutso, abambaye rinete hafi hari ikintu gifite amagambo yanditseho twifotoze kuko bituma tutibagirwa uyu munsi, ni ingirakamaro, urwibutso neza nta kibazo.

Umwana uri koga mu mutwe, ari kuvana amazi kuri robine, ari kurira, amenyo ye ni umweru, arimo arareba hirya, yambaye ipantaro, yambaye n'agapira, twoge mu mutwe mu gihe wumva ushaka koga, birakuruhura.

Umugore ukenyera igitenge ufite indobo y'umuhondo mu ntoki, yikoreye indi y'umutuku arimo aragenda mu nzira avuye kuvoma, kuvoma n'ingenzi amazi yo gukoresha mu rugo, kumesa, gukoropa, koga, tuvome kugira ngo tugire isuku ahantu hose dukoresha amazi meza.

Umuganga wambaye umupira w'umweru agapfukamunwa afite imisatsi y'umukara ga afite urushinge mu ntoki ari gutera umurwayi wambaye agapfukamunwa n'umupira, hirya hari undi mugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru n'undi mumama wicaye wambaye umupira w'umweru hejuru n'agapfukamunwa, n'igitambaro hirya gisa icyatsi kibisi.

Abagore bicaye bambaye ibitenge, bambaye n'udupira dusa umutuku, biteze ibitambaro mu mutwe, umuganga arimo arabafata ibizami, bareba uko ubuzima bwabo buhagaze, hirya hariyo pasiparumu, twita ku buzima bwacu tumenye uko imibereho yacu imeze tujya kwivuza.

Abagore n'abagabo bicaye bari mu nama bari kuganira, hari ameza atetseho amazi na mashine bambaye baje, abagore bafite imisatsi y'imikara, hari n'abadafite iy'mikara bambaye imyenda y'imikara, hari abagabo bambaye amashati y'amaboko maremare y'umukara, inyuma yabo hari riido zisa ubururu.

Abagore batatu bicaye, bose bambaye hejuru ibintu by'umweru, harimo undi utambaye ikintu cy'umweru, aniteze igitambaro cy'umweru, yambaye n'amaherena, undi yambaye isaha ku kaboko, babiri bafite amafishi mu ntoki n'amakaramu barimo barandika mu bikayi binini, hirya hari undi mumuma urimo abitegereza abareba, areba ibyo bakora.

Abantu bicaye ahantu hamwe bambaye ingofero abandi bambaye amarinete, baricaye bategereje ibiganiro, ni byiza ni ingenzi muri twebwe, bambaye imipira y'imyeru hejuru, abandi bambaye andi mabara, dukurikirane ikiganiro kuko gituma tumenya ibintu tutari tuzi, tukamenya uko ubuzima bwacu buhagaze,...

Umuhungu wambaye imyenda y'ubururu arimo arapopa amazi ava mu butaka avomera amajerekani y'abantu baje kuvoma. Harimo abana bambaye amakabutura n'imipira hejuru birarabura hari n'undi muhungu na we uri ku ruhande wifashe mu mayunguyu wambaye umupira w'umweru n'ikabutura irimo umutuku n'umukara, n'inkweto z'ubururu. Arimo aritegereza uwo mugabo urimo urabavomera amazi.

Abagore bakenyera ibitenge barimo barapompa robine izana amazi iyavana mu butaka, umumama yashyizeho indobo barimo baramuvomera, ni ingenzi tuyakoresha mu bintu bigiye bitandukanye kumesa, gukoropa, koga, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi turanayatekesha, ni isoko y'ubuzima tuyasigasire.

Abagore n'abagabo baje kwivuza kwa muganga baricaye bararindiriye ko umuganga aza kubakira, ni byiza tugane ivuriro mu gihe twumva tutameze neza badusuzume tumenye ko ubuzima bwacu buhagaze, nidusanga turwaye baduhereza imiti igiye itandukanye, ikatuvura izo ndwara zacu.

Abana barimo baravoma uwambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara afite igicuba kiri kujyamo amazi isoko y'ubuzima dukoresha mu rugo, guteka, gukoropa, kumesa imyenda, natwe tukoga, tukamera neza, tukanayanywa, hirya hari n'umuma uteze igitambaro mu mutwe uri kubareba.

Abayobozi babiri barimo barasuhuzanya, umwe afite ibitabo mu ntoki, undi afite telefone mu ntoki, bose bambaye ikositime na karavate, barimo bararebana mu maso basekerana, duseke kuko bituma bitwongerera iminsi yo kubaho, udaseka usaza vuba kandi uzira iminkamyari.

Abagore biteze ibitambaro mu mutwe umwe yambaye amaherena baje kuvoma mu ndobo y'ubururu isa umutuku, amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi turayakoropesha, turayatekesha, turayanywa, turayoga, turayamesesha. Amazi ni ingenzi nta mazi nta buzima, dukoresha amazi asukuye asa neza.

Abasore barebare abakobwa ntabwo ari barebare cyane, harimo umugabo wambaye amarinete bafite ikintu bari kwifotoza barimo baraseka, duseke n'ingenzi afite amenyo y'umweru, harimo n'uwambaye rinete, harimo n'abakobwa bafite imisatsi miremire y'imikara.

Umugore uri kwa muganga, bamworoshe igitenge, bamushyizeho igikoresho gikoreshwa kwa muganga, bari kumva uko umwana atera, umugore yambaye agapfukamunwa, muganga yambaye agapfukamunwa, afite ibisuko mu mutwe, iruhande rwe hari undi muntu na we wambaye agapfukamunwa n'ikanzu, uri kureba icyo muganga arimo arakora.

Ku kazu k'amazi, hari amabido menshi, abantu baje kuvoma, abakenyeye ibitenge, abiteze ibitambaro, abambaye amakanzu y'igitenge, abambaye imipira y'imikara, barimo baritegereza hirya yabo, tuvome amazi tuyakoreshe mu rugo, koza, koga, gukoropa, ni meza.

Umwana ufite igitenge ku rutugu rwe, afite ibido yaje kuvoma, umumama uhagaze hirya wambaye ishurupe y'umweru, n'ikanzu y'igitenge, ufite agakapu ku rutugu, baje kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, imirimo igiye itandukanye, koga kumesa no kuyatekesha, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umwana wambaye ikabutura ntoya, wambaye ishati uri kuri robine uri koga amazi n'intoki, hari indobo y'ubururu, hirya hari ibihuru bisa icyatsi kibisi, amazi ni meza ni ingenzi tuyakarabe kugira ngo twice mikorobe ziri mu ntoki zacu kuko tuba twagiye dusuhuza abantu batandukanye.

Umugore n'umwana baricaye bari kumwe n'undi mugabo wambaye bote udafite umusatsi ku mutwe wicaye ku gatebe ku rubaho hateretseho ibipapuro, arimo araganiriza uwo mugore ukuntu bakwiye kwiyitaho bakagira ubuzima bwiza, hari na rido, hari n'inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye.

Abana baje kuvoma amazi ava mu butaka bamwe bambaye amakabutura abandi bambaye amajipo' yumutuku bareba hepfo, haruguru ya bo hari ibyatsi, amabuye bamwe baricaye abandi barahagaze, tuvome tugire ubuzima bwiza nta mazi nta buzima.

Umugore ukenyera igitenge wambaye agapi k'amaboko magufiya, ahetse umwana, afite imisatsi y'umukara, ari koza indobo n'umufuniko wayo, arunamye, hirya hari robine ivoma amazi ava mu butaka, hari n'andi madobo asa umutuku, hirya hari ibyatsi hari n'ibiti bisa icyatsi kibisi n'is'ubururu.

Ku kazu k'amazi hari amajerekani agiye atandukanye menshi, hari abantu baje kuvoma, abambaye ibitenge, abiteze ibitambaro mu mutwe, abambaye amashati y'amaboko magufiya, abambaye amajipo, tuvome tugire ubuzima bwiza, tuyakoreshe ibintu bigiye bitandukanye tumesa, twoza ibyombo, tuyakoropesha, tuyamesesha.

Abana bari kuri robine bari kunywa amazi, ni isoko y'ubuzima, igukiza icyaka, ikakurinda imyanda mu nda, ariko si meza kuko bari kuyanywa avuye kuri robine kandi ntatetse, ashobora kubatera indwara zigiye zitandukanye, tujye tunywa amazi atetse kuko mikorobe ziba zapfuye, ni yo atugirira akamaro mu mubiri wacu wa buri munsi.

Abagabo bahagaze ku ma esikariye bambaye karuvate na kositime, bifashe ku nda, abandi amaboko arambuye yifashe ku matako, bambara inkweto z'umukara, bambaye baji, bamwe bafite umusatsi mukeya abandi ntawo bafite, harimo abirabura n'ab'inzobe n'abazungu, abagore bambaye amajipo n'amakote n'amabaji n'inkweto, bose barimo barifata ifoto y'urwibutso yo kugira ngo izajye ihora ibibutsa uyu munsi.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi n'udufire mu mutwe, umwe arimo arasuzuma umurwayi wambaye agapfukamunwa, yambaye umupira w'amaboko magufiya, yambaye ipantaro yicaye ku ntebe, barimo baramusuzuma bakoresheje igikoresho cyabugenewe, ni byiza tujye kwisuzumisha tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Abagabo babiri barimo baraganira umwe yambaye ishati y'amaboko magufi, undi yambaye umupira w'amaboko magufi, bambaye udukomo ku maboko hari abafite baji, hirya yabo hari umuntu uri kwitaba terefone wambaye ikoti ry'umutuku, hirya hari n'abandi bantu, umugabo umwe ahetse na marete arimo arasobanurira undi muntu amuteze amatwi.

Umugore uteruye umwana mu ntoki wambaye isaha, impeta, amaherena na gapfukamunwa ufite imisatsi y'umukara uteruye umwana mu ntoki, ufite igishora gisa umweruru, wambaye umupira urimo umuhondo, umukara n'umweru.

Umukobwa wirabura waje kuvoma wambaye ipantaro ndede y'umukara, wambaye inkweto z'umuhondo n'agapira ufite igitenge ku rutugu rwe, arunamye agiye guterura indobo irimo amazi, umwana hirya ye aricaye hasi yambaye inkweto, yambaye agapira, arimo arareba ibyo uwo mukobwa ari gukora.

Abana bicaye umwe yazamuye akaboko yambaye umupira w'ishuri ari guseka amenyo agaragara, undi ari guseka amenyo atagaragara, inyuma yaho hari ikibaho cyanditseho ibintu mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'udupapuro twometse ku kibaho inyuma yabo.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, wambaye umupira w'amaboko maremare, ukenyeye igitenge, ufite ijerekani, yateretse kuri robine, hari kujyamo amazi, hirya ye hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ari kureba ku ibido, arimo arayivomera ayishyiramo amazi yo kujya gukoresha mu rugo, ibintu bigiye bitandukanye.

Umukecuru witeze agatambaro mu mutwe uri kumwe na muganga bari kumufata amaraso, muganga yambaye ga. Ga ni nziza ituma utanduza umurwayi n'umurwayi ntiyakwanduza, muganga yambaye baji, yambaye itaburiya, hirya hari undi ufite amapamba ari guhereza muganga, hakurya hari undi muhungu uhagaze urimo urareba muganga n'umurwayi, uwo muntu yambaye jire.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, afite ikaramu n'ikayi arimo arandikamo, afite telefone yambaye ipantaro ndende y'ubururu irimo n'ibara ry'umweru n'agapira yambaye ni umweru karimo n'ubururu bukeya, hari umuntu iruhande rwe wambaye ekuteri, wambaye umupira w'ubururu uri kumwitegereza, wambaye ipantaro ndende, inyuma Sida iracyahari, duhaguruke tuyirwanye byo koko tuyirwanytuyirwanye kuko iracyahari.

Abagore bambaye amataburiya barimo barakoma amashyi abandi barishimye baricaye, barahagaze, bari mu gisharagati gisa umweru, bari mu busitani busa icyatsi kibisi, ubusitani ni bwiza kuko butuma umuntu yabona aho yicara hagatuma n'ahantu hasa neza.

UNICEF n'umuryango wita ku bana bababaye badafite kivurira ababyeyi babo bataye ubahereza ibintu by'ibanze nko kubaha ibiryo, minerval, imyenda yo kwambara, aho kuba, twite ku bana kuko nibo gihugu cy'ejo hazaza tubarengere tubamenye tubahe ubuzima bwiza.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku n'ishati y'amaboko maremare arimo aranywa amazi kuri robine, ntabwo ari byiza kuko amazi ntago aba asukuye, tunywa amazi atetse kuko mikorobe ziba zapfuye, hasi hari indobo amazi arimo arajyamo, hirya hari ibihuru n'ibyatsi.

Abana batoya b'abanyeshuri barimo barakaraba intoki n'amazi n'isabune bakuraho imyanda iri ku ntoki zabo, barimo baraseka, bafite amenyo y'umweru, bafite umusatsi mukeya, dukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, kugira ngo tugire ubuzima bwiza twica indwara z'aho twagiye dufata n'aho twagiye dusuhuza.

Abana, abagore, umugabo wambaye imyenda ya Polisi uri guha umwana icyo kunywa, n'abagore bari guhereza abana icyo kunywa, twite ku bana kuko abana ni bo Gihugu cy'ejo hazaza, abana ni abatware, abagore hirya bambaye udutambaro mu mutwe.

Abagore n'abagabo bicaye mu nzu hamwe bambaye imipira hejuru, amapantaro hasi. Abagore bakenyeye ibitenge n'udutambaro mu mutwe. Bafite imisatsi myinshi. Abagabo bafite imisatsi mikeya n'abagabo bambaye ingofero. Umwe arikureba inyuma, bakurikiye umuntu urikohereza ikiganiro.

Abagore n'abagabo bambaye imipira y'imweru, abandi bambaye amashati y'amaboko maremare, bambaye amapantaro, abambaye amakanzu, bifashe imbere ku nda barahagaze bari kwifotoza ifoto y'urwibutso, bambaye n'inkweto, bafite n'imisatsi mikeya iringaniye, abandi bafite myinshi...

Umumama wambaye ingofero, wambaye amaherena, wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya uri kwita ku bana bambaye imipira ya orange inyuma handitsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ari kubaha amata, twite ku bana ni ingenzi hari n'undi wambaye imyenda ya gisirikare nawe uteruye inkongoro irimo amata.

Umwana wambaye ishati y'amaboko maremare, yayihinnye yambaye ikabutura, ari kuri robine, amenyo ye arimo aragaragara, hari indobo iri kuvamo amazi iteretse ku ntebe, dukarabe intoki kuko bituma tugira ubuzima bwiza, twica mikobe zituriho, tugatekereza neza nta kibazo, nta nzoka, kubera tuba twagize isuku.

Umwana uri koga intoki n'isabune bamusukiraho amazi, isabune yica mikorobe, twoge intoki twoga n'isabune n'amazi meza kuko bituma tugira isuku, iyo woze nta mwanda uba ukuriho, ntabwo byatuma urwara, twoge, tugire isuku dukoresha n'amazi meza.

Abagore bari gupompa robine ivana amazi mu butaka, bari kuvomera umugore mu ndobo, bambaye ibitenge, bamwe biteza ibitambaro, abandi bambaye udusengeri, tuvome amazi ni meza, tuyakoreshe mu rugo imirimo igiye itandukanye, guteka, gukoropa, kumesa tunayanywe ni meza.

Abagore babiri bambaye amakanzu y'ibitenge, biteze ibitenge mu mutwe, bari kumwe n'umugabo wambaye ipantaro ndende n'ishati y'ubururu, barimo baraterura imifuka bahereza uwo mugabo, ni myinshi cyane, harimo ibiryo biragaragara ko bagiye gufasha abantu, ni byiza, dufashanye kuko bituma abantu bubahana hagati yabo.

Abanyarwanda n'abazungu bo mu bindi bihugu baricaye bari mu nama aho bari kungurana ibitekerezo, imbere yabo hateretse amazi bafite udukayi bari kugenda bandikamo bamwe bambaye rinete abandi bambaye amashati y'amaboko maremare asa umweru, abandi bambaye kositime hirya hari ifoto ya Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Abasore n'abagore bambaye imipira y'ubururu, bambaye n'ingofero z'umweru bazamuye akaboko bafunze igipfunsi, bamwe bambaye amasaha, inyuma yabo hari ikintu cyanditseho Mastercad ifasha abantu ikabitaho, yaba mu mafaranga, yaba kubishyurira minerivare no kubagurira imyenda, no kubaha ibikoresho by'ibanze.

Abagabo n'abagore bicaye bambaye udupfukamunwa abagabo bambaye kositimu bageretse akaguru ku kandi harabategetse akaguru ku kandi inyuma yaho hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru hari akameza gateretseho amazi hariho na micoro barimo baratanga ibiganiro bambaye n'inkweto.

Umwana wirabura uri mu mazi uri kuvomera akabido ke, yambaye utujipo tugufiya n'agapira, tuvome kuko amazi ni ingenzi, tuyakoresha ibintu bigiye bitandukanye gukoropa, kumesa, guteka no kuyanywa, tukayasukura neza mikorobe zigapfa twarangiza tukayanywa.

Umugabo uri gupompa robine amazi ava mu butaka, avomera ijerekani, hari abantu bahagaze barimo barareba bambaye ingofero n'agapira k'umweru ufite igiti, hirya hari n'undi wambaye ingofero y'ubururu, hirya hari ibyatsi, tuvome kuko amazi ni ingenzi.

Abana bane baje kuvoma bafite utubido, umukobwa ari kubavomera amazi ajya mu tubido twabo, hirya hari imodoka y'umweru, hari ibyatsi, hari ibihuru, hari n'ishyamba, hari n'amabuye yegereye aho ngaho bavomera, umukobwa yambaye ipantaro y'umukara akaba afite n'imisatsi.

WASAC ni ikigo gikorera mu rwanda gishinzwe kugeza amazi ku baturage batuye mu rwanda, aho gikorera mu duce tuke dutandukanye tw'igihugu, muri Kigali, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'uburengerazuba bw'u rwanda. Dukoreshe amazi ni meza, ikigo gifite byinshi kimariye u rwanda.

Abagabo bicaye bambaye amashati y'amaboko maremare y'amabara atandukanye n'abandi bambaye imupira, bitabiriye inama hari n'abagore bambaye imipira y'imihondo bicaye inyuma bafite udusatsi duke turinganiye hari ameza ateretseho amazi, hari n'amatelefone acometse kuri charijeri, hari na porojegiteri iporojegitinga ibintu barimo barababwira bakabireba bakabyumva neza nta kibazo.

Umwana usutaraye urimo uraseka, ufite amenyo y'umweru, ufite agasatsi gake ku mutwe arimo aroga amazi kuri robine n'isabune byica mikorobe z'ahantu tuba twagiye dufata hatandukanye, twoga intoki twice mikorobe bitume nta ndwara zigiye zitandukanye twandura, ni byiza twisukure.

Abaganga bambaye imyenda yo kwa muganga, abambaye itaburiya y'umweru bose bambaye udupfukamunwa harimo n'utw'umukara, hari n'utuntu bambaye mu mutwe, bambaye rinete, bafite imiti mu ntoki, bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, bari mu cyumba ahantu, inyuma yabo hari inzugi, twifate ifoto ni byiza.

Umugore n'umugabo muganga arimo arabigisha iby'imyororokere, ukuntu bagomba kubana neza nta kibazo bafite, badatukana, batarwana, bubahana hagati yabo. Umugore aratwite umugabo biragaragara ko amukunda, umugore afite imisatsi y'imikara yambaye ikoti ry'imikara n'agakanzu k'igitenge.

Abakobwa n'abasore bambaye amataburiya, abandi bambaye amashati, baji, barasutamye bageretse akaguru ku kandi bari kwifotoza, ni byiza bituma utibagirwa uyu munsi amapantaro maremare n'inkweto, bahagaze ku mabuye.

Umugore ufite imisatsi y'imikara wambaye amarinete, agapfukamunwa, ikanzu y'igitenge, akajire, afite ikintu, ari kumwe n'abagore bandi bafite imisatsi, bambaye utwenda turimo ubururu, uteruye ibintu mu ntoki, hirya hari n'undi wambaye ingofero, hirya hari n'amazu n'ikiyaga.

Oruganizasiyo ishinzwe ubuzima ku isi, irimo iratanga imiti yo kugira abarwayi bakire, bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ikora imiti igiye itandukanye, ikavura abarwayi, bakabaho neza bakagira ubuzima bwiza, hirya hari n'umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye amaherena n'isaha, wambaye n'umupira w'icyatsi kibisi.

Umwana urimo urapompa robine amazi akava mu butaka, hari umukobwa uriho wambaye ijipo, washyizeho akabido urimo uravoma, hari n'akandi kana gahagaze gafite utubido gategereje kuvoma, hirya hari abandi bantu babakikije, abagore bitwikirije ibitenge, abagabo bambaye ingofero, hirya hari n'ibyatsi n'ibiti birebire.

Abana barimo baravoma amazi mu ndobo, isoko y'ubuzima, amazi ni meza, akora ibintu bigiye bitandukanye, turayatekesha, tuyamesesha imyenda, turayoga, turayanywa, mu gihe ushaka kugira ubuzima bwiza nywa amazi kandi asukuye.

Abagore n'abagabo bahagaze barimo barifotoza, barimo baraseka, abafashe terefone mu ntoki, abambaye amasaha ku maboko, abagabo bambaye kositimu n'amashati maremare y'amabara y'umweru, abamama bambaye amakanzu, amarinete, inyuma yabo hari igiti gisa icyatsi kibisi, twifotoze.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufiya k'umutuku arimo araseka afite amenyo y'umweru, afite agasatsi gakeya ku mutwe, afite igikombe arimo aravoma amazi ava kuri robine, ni ingenzi ni isoko y'ubuzima, tuyakoreshe tuyanywe, twibwe tuyameseshe, tuyatekeshe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu bicaye bari mu nama bambaye ikositime, harimo inzobe, harimo n'abirabura, imbere yabo hateretse amazi hari na mikoro, barimo barareba umuntu urimo aratanga igitekerezo. Dutangage ibitekerezo kuko byubaka igihugu, idarapo ry'u Rwanda, inyuma hakaba hari n'ibara ry'umweru.

Abantu bamwe barahagaze abandi baricaye umugore yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'akagofero mu mutwe, yambaye ijipo hino ye hari umugabo wambaye akajire gasa ubururu wafashishe amaboko ye inyuma ye, hari umugabo wambaye baji n'agapfukamunwa arimo aritegereza ibipapuro bamuhaye imbere ye hari na mashini.

Umugore w'umuzungu wambaye agapira k'amaboko magufiya yambaye ishati, afite micro isa umukara, arimo aratanga ibiganiro, afite umusatsi, ni byiza dutanga ibiganiro kuko byubaka benshi, inyuma ye hari ibara ry'ubururu n'andi mabara menshi, amagambo ahanditse yanditswe mu ibara ry'umweru.

Ni oruganizasiyo ishinzwe ubuzima ku Isi hose. Ikirangantego cyawo kirimo inzoka iziritse ku giti. Uyu muryango ni mwiza, kuko utuma abantu bagira ubuzima bwiza. Iyo ubaye ufite ikibazo, ugana bimwe muri ibi bigo biri muri uyu muryango, bikaba byakuvura bikamenya uko uhagaze, ubuzima bwawe ntibutesekare.

Umugore wambaye rinete, uteze igitambaro mu mutwe, uteze igitenge, yambaye agashaneti mu ijosi arimo araseka, inyuma ye hari abana na bo bari guseka abandi bababaye birabura, bambaye imipira isa imituku abandi ntago ari umutuku tuganiriza abana bamenye ejo hazaza.

Abazungu n'abirabura bari kuganira ku cyizere cy'abana, abana ni bo nkingi y'ejo hazaza, ni cyo gihugu cy'ejo hazaza, twite ku bana tubarebera ibibakwiye, tubahereza ubutabazi bw'ibanze, ibikoresho by'ingenzi, abana ni ingenzi.

Amazi ari kuva mu itiyo ameneka mu mugezi, umuntu yatezeho ikiganza, arimo arayumva, amazi ni meza, atuma tugira ubuzima bwiza, turayoga, turayatekesha, turayanywa, udafite amazi nta buzima wagira, ni isoko y'ubuzima tuyakoreshe tugira ubuzima bwiza.

Unicefu ni umuryango wita ku bana, ubahereza ibikoresho by'ingenzi, ku buryo umwana abaho yishimye nta kibazo afite, babishyurira minerivare, babaha ibyo kurya, ibikoresho byo ku ishuri, bambaye imipira yabo y'akazi, barimo baraseka abandi bambaye rinete.

Umugore witeze igitambaro cy'umweru, uri kumwe n'umwana, bose barimo baraseka, umugore afite amenyo y'umweru, barishimye, umwana afite purato iriho imboga, imboga ni nziza zivura amaso, iyo wariye imboga nta kibazo cy'amaso ugira, uba ufite ubuzima bwiza, turye imboga tugire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda isa bari gukina n'amazi bafite amadobo n'utubido baravomera mu mazi ni meza n'isoko y'ubuzima, tuyakoresha bitandukanye tumesa, dukoropa, duteka, tuyoga dukoresha amazi n'ingirakamaro.

Abana b'abanyeshuri abakobwa n'abahungu bambaye imipira yimbeho y'ishuri barimo baranywa bose bafite ibikombe amazi meza asukuye atuma ugira ubuzima bwiza, abakobwa bambaye amajipo abahungu bambaye amakabutura y'shuri tunywa amazi tugira ubuzima buzira umuze.

Ku kazu k'amazi hari amarobine atandukanye ari kugenda asuka amazi, hari abantu batandukanye bahari, abana, abagore, abagabo, bambaye amakasike mu mutwe, abafite amadobo baje kwivomera amazi, abakenyeye ibitenge, abambaye imipira, tuyiteho tuyabungabunge.

Umugore uteruye umwana, umuganga wambaye itaburiya y'umweru arimo asekera umwana, vura umwana umusekera kuko bituma atagutinya kandi umuhumurize, ubwire mama we ko indwara arwaye izatuma akira, ajye amusekera amuganirize, amuhe imiti ku gihe, aroroherwa akamera neza.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa, ga bari kuvura umurwayi bifashishije ibikoresho byo kwa muganga, aho abaganga ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo dufite ibibazo bijya bitandukanye tugana ivuriro rikatuvura tukagira ubuzima bwiza.

Abagore n'abagabo bahagaze abandi basutamye, bambaye imipira y'imyeru, bambaye amajipo n'amakanzu, biteze ibitambaro bisa umutuku n'andi mabara mu mutwe, abazungu, n'abagabo bambaye kositime na rinete, barahagaze barimo barifotoza.

Abaganga bambaye amataburiya n'amabaji, bari kumwe n'umugabo wambaye kositimu na karavate, barimo baraseka bagaragara ko ejo ari heza, bari kwifata ifoto y'urwibutso yo kuzajya bibuka kino gikorwa n'uyu munsi, umugabo umwe nta musatsi afite ku mutwe, abandi bafite agasatsi gakeya.

Umugore wicaye ku ntebe z'umukara, ufite agasatsi karinganiye w'inzobe, wambaye ikote, wambaye isaha ku kaboko n'agapira k'umukara, hari n'undi mugore witeze igitambaro gisa umuhondo mu mutwe, yambaye agashanete, yambaye impeta, akaba yambaye n'igitenge cyiza.

Umugore wambaye akaba aniteze igitenge, ateruye umwana we, yamuzanye kwa muganga, umuganga wambaye ga n'itaburiya y'umweru, ndende y'amaboko maremare, akaba yambaye n'igikoresho yifashisha apima umwana mu ijosi, arimo aravura umwana, tuzane abana kwa muganga, babavure bamenye ibyo barwaye kugira ngo babarinde hakiri kare.

Abana b'inzobe barimo baraseka bafite imisatsi iringaniye barahagaze bafite akantu mu ntoki, hari undi mumama n'umwana barimo baraseka b'inzobe bafite ibintu mu mutwe ibitambaro, hari n'umupapa wambaye ikositime na karavate wirabura urimo urifotoza.

Umwana w'umunyeshuri uri gukaraba intok,i kuri kandagira ukarabe amazi ajya mu ibase, dukarabe kugira ngo tugire isuku ku ntoki twica indwara zigiye zitandukanye, twagiye dukura ahantu hatandukanye, aho twafashe, abo twasuhuje, muri toilette. Tugire ubuzima bwiza.

Umwana wambaye ikabutura, ishati y'amaboko magufiya arimo aravoma, afite agasatsi gakeya ku mutwe, afite igikombe aho ari gushyiramo amazi agiye kunywa. Tunywe amazi ni ingenzi mu bu buzima bwacu bwa buri munsi, nta mazi nta buzima bwiza, isoko y'ubuzima amazi.

Abantu benshi bambaye umupira ya orange bamwe barunamye abandi barahagazemo barimo baratera ibiti. Dutera uturima tw'igikoni kugirango ejo hazabe heza turya imboga twirinda indwara zitandukanye. Hari imifuka, hari n'imicanga, hari n'abahagaze bambaye umupira wumukara, hari'abambaye ingofero, hari n'abapolisi.

Abagabo n'abagore barimo barifotoza, abambaye ikositime, abambaye karavati, amakanzu n'amashati y'amaboko maremare, bahagaze hamwe bari kwifata ifoto y'urwibutso bituma tutibagirwa uyu munsi, twifotoze, inyuma yabo handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru hamwe n'ijambo REMA.

Abana n'injerekani bari kuvoma mazi ava mu butaka, hirya hari pasuparume, jeride irimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi; abana bambaye amakabutura, abandi bambaye amapantaro n'inkweto n'imipira isa ubururu n'amashati n'imipira isa umutuku.

Akana k'agakobwa karimo karakaraba intoki, dukaraba intoki mu gihe wasuhuzanyije n'abantu cyangwa wagiye kuri towalete uba wagiye ubona mikorobe zitandukanye, aho uba wagiye ufata, rero dukaraba intoki kugira ngo twice izo mikorobe kugira zitadutera indwara zigiye zitandukanye.

Umukobwa n'umwana mutoya bafite amajerekani barimo baravoma, amazi ni meza yo gukoreshasha mu rugo, hirya hari ibyatsi, hari n'amabuye ari mu mazi, tuvome amazi tujya gukoresha mu rugo, ubuzima bugende neza dukora n'amasuku dukoresheje ayo mazi.

Amazi menshi ari gupfupfunuka ahantu nta bara agira tuyateke twice mikorobe zirimo maze tuyanywe, tugire ubuzima bwiza, tuyatekeshe, tuyakoropeshe, tuyameseshe, amazi n'isoko yacu, nta amazi nta buzima, tuyakoreshe neza tuyiteho tuyasigasire.

Abagabo bambaye ikositimu abandi bambaye amashati y'amaboko maremare, bafite imisatsi mikeya, baricaye bari mu nama, harimo n'abagore ku meza hateretseho mashine, hariho za mult-prise, hari uducupa tw'amazi yo kunywa, barimo barabatanga ibitekerezo bungurana.

Hari umwana wagiye kuvoma ufite akabido, hari undi umunyeshuri umwunamye hejuru, uri kumuvomera wambaye imyenda y'ishuri; umupira w'amaboko maremare, hari nabandi barmo baratambukaho bambaye ijipo z'ubururu, n' numupira w'imbeho w'ingofero hirya hari n'ibiti.

Umugore aricaye ateruye umwana ku bibero bye, yiteze igitenge mu mutwe, yambaye umupira, umuganga wambaye itaburiya, ufite urushinge ari gutera umwana urushinge rwo kumurinda indwara zigiye zitandukanye, hirya hari n'undi muntu na we ufashe umwana wambaye itaburiya y'umweru.

Dr. Sabi ushinzwe ubuzima arimo atanga ikiganiro akoresheje mikoro, aho abantu bamukurikira ari benshi bambaye amakote abagore n'abagabo abandi bicaye imbere barimo baraganira, twite ku buzima bwacu bwa buri munsi twumva ibiganiro bigiye bitandukanye n'inama z'abayobozi bacu.

Abagabo, abagore, abana, amabido, amabase, birabakikije, bamwe barahagaze abandi baricaye bategereje amazi, bamwe biteze ibitenge abandi bambaye amajipo magufi, amapantaro y'imikara maremare, imipira y'imituku, imipira y'umweru, bifashe mu mufuka, bambaye n'agapfukamunwa.

Imodoka ya ambulance, amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, irasa umweru, hirya hari ibisharagati, hari n'abantu benshi bagiye batandukanye baje kwa muganga, hari n'idarapo y'u Rwanda rifite amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, n'ubururu, imodoka ya ambulance ni nziza kuko ituma utwara umurwayi kwa muganga byihuse, ugatabara ubuzima bwe

Abasore n'inkumi baricaye, bambaye imipira y'imikara, bariyogoshesheje, bafite amacupa mu ntoki, bari kwitegereza umuntu uri kubaha ikiganiro, dukurikire, dutege amatwi kuko haba hari inama zigiye zitandukanye zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bicaye ku ntebe zifite imisego isa umutuku, abakobwa bafite n'imisatsi.

RBC ni ikigo gishinzwe ubuzima, aho bari baje gutanga ibiganiro ku buzima bw'imitekerereze, aho bari bicaye imbere hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hari n'abantu baje kwitabira ibyo biganiro bari kubitega amatwi ngo bagende babikurikize umuntu abe yagira ubuzima bwiza mu bijyanye n'imitekerereze.

Umukobwa n'umugore bicaye ku gatebe k'urubaho umugore arasa nk'aho yihebye, hari umukobwa ufite imisatsi miremire y'imikara wambaye ipantaro ndende urimo uramuhumuriza, twegere abantu bihebye tubaganirize tubabwire ko ejo ari heza, ubuzima bugihari nta mpamvu yo kwiba, kuko nishobora gutuma havamo no kuba wakiyahura cyangwa ukaba wabura ubuzima.

Igishushanyo cy'umutwe kirimo ibice bine n'amabara atandukanye, ku mpande hariho umugore wambaye umupira w'umweru n'umugabo wambaye umupira w'umweru hamwe na karavate, hasi uwo mugabo yambaye inkweto z'umukara, bose bafashe kuri icyo gishushanyo cy'umutwe kandi bafite n'imisatsi myinshi.

Umukobwa wicaye uri guseka ufite amenyo y'umweru, imisatsi myinshi y'umukara, yambaye agasengeri k'umukara, agashanete, amaherena n'ikobuye ndende yayihinnye aricaye guseka ni byiza duseke byongera iminsi yo kubaho.

Umuntu w'igitsina gore wicaye urimo guseka ufite amenyo y'umweru, umusatsi w'umukara wambaye umupira w'umutuku, wambaye n'agapira hejuru, duseke kuko guseka byongera iminsi yo kubaho twe kwigunga ahubwo duseke.

Abantu benshi, abagore, abagabo, bafite ikintu cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ibara ry'umweru, bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, abambaye amakabutura abambaye imipira y'imyeru n'amashati agiye atandukanye y'amaboko maremare, karavate, twifotoze kuko bituma twibuka iki gihe ntabwo tukibagirwa.

Abagore n'abagabo bahagaze, bambaye amapantaro maremare n'amakabutura n'imipira y'umweru n'impira itari imyeru, bambaye bamwe ingofero abandi batazambaye, bafite seritifika isa oranje yandikishijweho amagambo asa umweru. Hirya hari inyubako yitwa Radison blue, ni aho abantu barara, bakicara bakaganira bakanasangira.

Abantu bahagaze bambaye ama pantaro, bambaye imipira, harimo uwambaye ishati y'umweru, na karuvati n'ipantaro y'umukara, n'umushinwa wambaye agakote n'ipantaro y'umukara, bambaye furari, barahagaze aho bifata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazahore bibuka iki gikorwa n'uyu munsi.

Umugore wirabura wo mu cyaro wambaye ikote n'agapira, witeze igitambaro, ufite ingata ku mutwe hatetseho igitebo kirimo ibyatsi bibisi by'icyatsi kibisi, afite isuka mu ntoki, avuye guhinga, hirya ye hari inzu ifite amategura, tujye guhinga kuko ari byiza bituma ubutaka busa neza bukatugaburira ibyo kurya.

Umusaza wambaye ingofero, udafite amenyo y'imbere n'ayo hasi byarakutse, amenyo yasigaye ni umweru, akaba afite umuheto mu ntoki, yambaye ishati y'amaboko maremare, arimo araseka akaba afite n'akitero k'umuhondo ku rutugu, tubyine tubyinira u Rwanda.

Umuntu uri mu nzu wenyine wambaye ubusa, wirabura, wihebye, dushake imyenda dufashe abantu batayifite kuko iyo wambaye undi atambaye biba ari ikibazo. Tugire umutima wo gufasha abantu kuko bakeneye ubufasha nta bushobozi aba bafite, mu gihe wowe umururusha ubushobozi mufashe amere neza.

Umugore witeze igitambaro cy'ubururu, wambaye ijipo y'igitenge n'umupira w'icyatsi, ari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu, uri kureba muri terefone, uri kwandika ibintu, hari n'ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, hateretseho agacupa k'amazi. Ni byiza twicare tuganire.

Umumama wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi, ufite amenyo y'umweru, ari kumwe n'akana ke kishimye karimo karaseka, kataramera amenyo, gafite ururimi, kambaye n'ako umupira urimo amabara y'umweru, duseke byongera iminsi yo kubaho, cyane cyane nk'umubyeyi iyo ari kumwe n'umwana we.

Abana biraraburamo barimo bararira, bifashe mu maso, inzara irabishe. Dufashe abana bababaye badafite kirengera, tubaha ibyo kurya, tubahumuriza, tubabwire ko ejo ari heza, tubiteho tubahe n'ibyo kwambara babone n'aho kuryama ubuzima bwabo bumere neza.

Hari umuntu wifashe ku mutwe, wambaye umupira w'umweru, usa nk'aho yihebye, kwiheba ntabwo ari byiza ariko hari umuntu uri iruhande rwe uri kugenda umuhumuriza, umuntu wihebye tumwegere tumuganirize, kuko bituma adafata imyanzuro mibi nk'iyo kwiyahura, kumva abuze ubuzima, kumva ntawe umwitayeho, tubegere, tubafashe, tubahumurize, bagire icyizere.

Abana batoya bicaye barimo baraseka bafite amenyo y'umweru, barimo baritegereza ahantu, abambaye imyenda y'imihondo, abambaye iy'imyeru n'andi mabara agiye atandukanye, duseke kuko byongera iminsi yo kubaho, udasetse uhora wigunze, ukanazana iminkanyari, ukanasaza vuba, twishime tunezerwe.

Umuntu wicaye, wifashe mu mutwe, ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'umweru, uri gutekereza, iyo utekereje uba urimo uragura ibitekerezo bya muntu, dutekereze, twagure ibitekerezo byacu, tubashe gutanga ibitekerezo byubaka no gufata imyanzuro myiza.

Umusazi w'umugabo wirabura ufite ibisatsi byinshi n'ibyanwa utabyogosha, wambaye ubusa, ukenyeye igitenge, ufite ibishashi biri muri pubelle, wicaye muri rigori ku muhanda, hirya hari pasparum, abasazi tubegere tubiteho kuko bafite ikibazo cyo mu mutwe kandi ntabwo aribo baba barabyiteye.

Umwana uri kurira ubabaye wifashe mu mutwe no ku matwi, yambaye umupira w'umweru, agahinda ni kabi gatuma wakiyahura ugafata imyanzuro igiye itandukanye itari myiza, egera umuntu ufite ikibazo ubabaye, umuhumurize ku buryo ashobora kuba yakongera gusubira mu buzima bwiza, inyuma ye hari umugore ukenyeye igitenge mu nda wambaye n'ijipo n'umupira.

Umugore wicaye wambaye umupira w'umweru, wambaye isaha, impeta, afite ikaramu mu ntoki, yambaye baji, arimo aritegereza, afite imisatsi y'umukara, kumeza hateretseho mashine, hateretseho n'uducupa tw'amazi, inyuma ye hari umugore wambaye ikoti ry'umutuku, uri kumwitegereza, wambaye rinete.

Ameza y'ibitambaro hateretseho amazi, abagore biteze ibitambaro mu mutwe, abambaye amabubu, bafite imisatsi y'imikara, bambaye amaherena n'amarinete bakurikiye ikiganiro, aho bari kubabwira ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'amaboko magufi, wambaye ipantaro ndende, wambaye n'umukandara w'umukara, isaha ku kaboko, ahetse n'igikapu cy'umukara, yambaye n'inkweto, arimo araseka, hafi y'ahantu handitse Caraes Ndera, ikigo cyita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, kikabavura bagakira.

Umuntu wirabura wegamye ku gikuta uri kureba hejuru, wambaye ishati irimo umuhondo n'amaboko magufiya, amaboko yo aramanuye, arimo arareba mu kirere ari gutekereza cyane, yegamiye ikintu, kugira ngo kibashe kumufata neza atagwa.

Abantu bari ahantu hamwe mu cyumba, bamwe baricaye abandi barahagaze, abambaye rineti, abagabo bambaye amashati maremare asa umweru n'amabara agiye atandukanye, hari agacupa k'amazi gateretse ku meza, abagore bambaye amakanzu barimo barareba, barimo baraseka, inyuma yabo hari rido.

Umusaza w'imibiri yombi, wambaye ikigofero gisa umukara, nta menyo afite mu kanwa yo hasi no hejuru yarakutse, yambaye imyenda isa ubururu n'agatambaro gasa umuhondo, arimo araseka, duseke byongera iminsi yo kubaho ntabwo bituma usaza cyane nta n'iminkanyari uzana.

Abagore babiri bicaye bateruye abana n'undi mukobwa umwe uri kubagira inama, ukuntu bakwita ku buzima bw'abana bakiri batoya babaheza ubuzima bwiza mu gihe ahuye n'ibyago akaza kwa muganga bakamusuzuma, ubuzima bw'uruhinja rwe butaratesekara.

Umugore wicaye ku gatebe k'urubaho rurerure, yambaye igitenge, inkweto n'ishati y'amaboko maremare, yifashe neza aricaye ari kwitegereza ahantu ari wenyine, ntabwo ari byiza kwicara wenyine kuko bituma wigunga ugatekereza ibintu byinshi kandi byakuviramo ibintu bibi.

Umugore wambaye igitenge, ufite isakoshi mu ntoki, isaha ku kaboko, ufite imisatsi y'umukara afite mikoro ari kuyivugiramo irangurura ijwi abantu bose bakumva, imbere ye hari umukobwa uhahagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku ufite n'imisatsi y'umukara.

Abagore n'abagabo, abahagaze, abicaye, abahagaze mu mpande, abambaye amapantaro y'imikara, abambaye inkweto, abambaye amashati y'amaboko maremare y'imihondo, abambaye amakanzu magufiya n'amakanzu maremare bahagaze ku cyintu cyanditseho RBC.

Umuntu wambaye ingofero ari kwihanagura mu maso n'atambaro k'umweru. Amaso ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko adufasha kureba ibintu bigiye bitandukanye, atuma udasitara, dusukure amaso yacu tuyitaho kuko amaso arwaye nta kintu tuba tukibona, tuba dufite ubuzima bubi.

Abantu bateraniye hamwe, bamwe bicaye, undi umwe abahagaze imbere ari kubahereza ikiganiro, yambaye ikanzu y'umweru, agakote k'umukara, afite imisatsi, ku meza hateretse amashakoshi, amacupa arimo amazi, hari umugore uri kureba muri terefone, yambaye lunette, n'undi muhungu ufite ibipapuro mu ntoki n'ikaramu y'umutuku.

Umugabo ufite umusatsi muke w'umukara wubitse umutwe, washyize amaboko mu gahanga. Arihebye. Yambaye ishati y'amaboko maremare. Hari undi mugore ku ruhande wambaye isaha, wamufashe ku rutugu, ufite imisatsi myinshi, urikumuhumuriza. Abantu bihebye tubahumurize tubabwire ko ejo hahari be kwiheba ko byatuma bafata imyanzuro itari myiza hakavamo no kwiyahura.

Umuganga wambaye imyambaro yo muri laboratwari, agapfukamunwa k'umweru n'itaburiya, yambaye na rinete afite marikeri, afite n'ahantu ari kugenda yandika afata ibipimo byatanzwe akagenda abyandika, hari n'ibikoresho bifashishwa muri laboratwari bigiye bitandukanye.

Umwana mutoya ufite amenyo y'umweru, ufite n'uburoso ari kwibosa, dutoza abana bacu kwiborosa kuko bituma bagira amenyo meza ntarware ntacukuke, ngo cyangwa barware ifumbi, umwana akurana uwo muco. Kwiborosa ni byiza, amenyo yawe ahora asa neza tubitoze abana.

Umusore wicaye ku ntebe kwa muganga uri guseka ufite amenyo y'umweru, bamushyizeho akantu k'umweru, yambaye umupira w'amaboko maremare, yifashe mu ntoki arimo arareba hano agaseka, hari n'ibikoresho bigiye bitandukanya aho yicaye, duseke bituma tugira iminsi yo kubaho myinshi.

Umuganga wambaye Itaburiya y'umweru, wambaye rinete, ufite agasatsi gakeya, afite ibikoresho byo mu ntoki byo kuvura umwana mu kanwa. Twisuzumishe tumenye icyo turwaye mu kanwa, mu gihe twumva tubabara bituma tumenya uko ubuzima bwacu buhagaze, tukaba twakwivuza, bigatuma amenyo yacu adacukuka ngo cyangwa tugire indwara tutazi.

Umugabo ufite esuwime ku rutugu ufite akagozi mu ntoki, amenyo y'mweru n'ishinya, afite n'ubwanwa, esuwime ikoreshwa mu gihe uvuye koga ukaba wakihanagura amazi ku buryo wisiga amavuta nta mazi akuriho, kuko wisize amavuta amazi akuriho wagira umwera.

Umugabo ufite akagozi mu maboko ye yegereje amenyo ye y'umweru n'ururimi, afite amazuru n'amaso arimo araseka, duseke bituma tugira ubuzima bwiza, afite ubwanwa yambaye umupira w'umweru, ejo ni heza iyo usetse nta cyizere utaza.

Umusore uri kwireba mu ndorerwamo, ufite akagozi mu menyo asa umweru, umupira w'umweru, amatwi, umusatsi mwinshi utari mwinshi cyane, mu mpande nta musatsi afite, amaboko ni yo afashe ku kagozi, ari kwireba, yiyitaho uko ameze.

Umugabo w'inzobe ufite amenyo y'umweru afite akagozi yagashyize ku menyo, dukoreshe uburoso na korogate kuko bituma tugira amenyo meza, tukagira impumuro nziza mu kanwa, ntacukuke, ntiturware ifumbi cyangwa ishinya yacu yangirike, afite ubwanwa arimo araseka duseke bituma tugira ubuzima bwiza.

Umuganga uri kumwe n'abamuherekeje, bari mu kigo cy'ishuri, baje kwigisha abana ibyerekeranye n'amenyo n'uburoso ko bagomba kugirira isuku amenyo yabo, iyo utayitayeho aracukuka ukarwara ifumbi, amenyo yawe bakaba bayakuka igihe kitageze. Twite ku menyo yacu dukoresha uburoso bwiza na korugate kandi dukangurira n'abandi kubikoresha, amenyo yabo agasa neza.

Umusore wasamye ufite amenyo y'umweru, ufite akagozi yashyize kuri ayo menyo ye, arahumirije, arimo araseka, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, amenyo meza ni korogate dukoresha n'uburoso bigatuma amenyo yacu adacukuka cyangwa ngo agire irindi bara ribi, duhora dufite umuhumuro mwiza mu kanwa.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi kibisi, abifashe mu maso, abambaye isaha ku kaboko, barimo barabasuzuma mu kanwa, abaganga bambaye ga kugira ngo batanduza umurwayi n'agapfukamunwa, ni byiza twite ku barwayi tubaha ama korugate meza ya Whitedent n'uburoso, basukure amenyo yabo bagire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ufite indorerwamo ari kwirebamo, amenyo ye asa umweru nta kibazo afite, nta shinya yarwaye, ni byiza turebabe amenyo yacu dukoresha indorerwamo ko nta myanda irimo, afite imisatsi y'umukara yifashe ku kananwa ari kwireba, hirya hari agakombe gateretse.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima abantu bawitabiriye bambaye imipira y'imbeho y'ubururu, amapantaro, amakabutura n'ingofero z'umutuku, bafite n'imisatsi miremire abakobwa, hari n'abambaye imipira y'umweru n'amataba y'umweru, barimo barabanza bakagupima uburebure bwawe n'ibiro ufite.

Umugabo w'inzobe ufite umusatsi w'umukara mukeya, wambaye agapira k'amaboko maremare ka runiga urimo uraseka, ufite amenyo y'umweru, twishime tunezerwe kuko byongera iminsi yo kubaho nta minkanyari nta nubwo dusaza vuba, duseke kuko byongera iminsi yo kubaho.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe na ga n'akantu mu mutwe, agapfukamunwa, afite ibikoresho byabugenewe, agiye gukura umurwayi iryinyo, wirabura ufite umusatsi mukeya w'umukara, twisuzumishe tumenye uko amenyo yacu ahagaze ye gucukuka cyangwa turware ifumbi, ishino zacu zangirike.

Intebe zifashishwa kwa muganga bari gusuzuma umurwayi bicayeho, akamenya uko ameze bakaganira akamutega amatwi, amakaro, ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa kwa muganga n'ameza, n'inteben, nk'abantu ho kwandika ibibazo umurwayi afite.

Umwana wasamye, uri kureba muganga, wambaye amaherena, ufite amenyo y'umweru, bamushyize igikoresho gisuzuma mu kanwa, gikura amenyo, umuganga yambaye ga, umwana ari kureba umuganga, afite n'imisatsi y'umukara.

Ikigo cyamashuri abana batoya, abakobwa babiri bakuru, bose bafite ibikoresho bya Whitedent, colgate n'uburoso, barimo baraseka, duseke twoza amenyo yacu, tugire ubuzima bwiza mu kanwa, ku buryo tudashobora kunukira abantu kandi hari Whitdent ikora iyo suku yo mu kanwa.

Umukobwa wambaye ikoti ry'amaboko maremare, uri guseka ufite amenyo y'umweru, ufite umusatsi w'umukara, ufite urupapuro mutoki n'ikaramu, ari kumwe n'umugore ufite imisatsi, wambaye lunette, wambaye ikote risa umutuku, afite ikayi n'ikaramu, arimo arandika mu ntoki ze, hirya hari aka meza kariho igitambaro gisa ubururu hateretseho amazi.

Umuntu wasamye ufite amenyo y'umweru, ufite igikoresho gisubiza amenyo ku murongo mu gihe ubaye ufite amenyo atari ku murongo urakifashisha, kikayagorora kikaba cyayashyira ku murongo, mu gihe utabasha guseka neza iyo kiyashyize ku murongo ubasha guseka neza.

Umurwayi ufite amenyo y'umweru, arishimye, arimo araganira na muganga, ni inzobe, umuganga agomba kuganiriza umurwayi, akamubwira ko agomba gukira, indwara ye atari iyo kumwica, ahubwo ariyo kugira ngo atume amenya aho ubuzima bugeze, ganiriza umurwayi, yishime, anezerwe.

Umugabo ufite amenyo yera de, ufite akagozi arasamye, dukoreshe korogate n'uburoso byiza, kugira ngo dukomeze kugira isuku y'amenyo yacu, nta myanda iza mu kanwa, kuko iyo uzanye amenyo afite imyanda mu kanwa, ararwara bikaguteza ikibazo bakaba bayakura kandi igihe kitageze.

Abantu babiri, umwe wirabura undi w'inzobe, bose bafite impapuro n'ikaramu mu ntoki, hirya hari ameza ateretseho amazi na terefone, umwe arimo araseka, undi yambaye rinete akaba arimo arandika ku rupapuro, hakaba hari n'undi wambaye ikoti ry'umutuku...

Umuganga wambaye itaburiya, agapfukamunwa, ga, afite ibikoresho byifashishwa kwa muganga, bari gusuzuma umurwayi uryamye, ureba hejuru, barimo baramureba mu kanwa, bareba iryinyo rifite ikibazo ngo barikure, wumvishe amenyo yawe adakomeye cyangwa afite ikibazo ujya kwa muganga bakagusuzuma.

Abagabo bambaye amashati y'amaboko maremare y'umweru bambaye kositime n'inkweto, bicaye hasi, bari kwifotoza, bari guseka, bafite amenyo y'umweru, ni byiza duseke byongera iminsi yo kubaho, n'abakobwa bafite imisatsi miremire bambaye amashati y'amaboko maremare y'umweru n'ubundi bwoko butandukanye n'umukara.

Umukobwa uri kwerekana amenyo ye y'umweru, amenyo y'umweru nuko umuntu ayitaho akayaborosesha umuti wabugenewe mwiza ku buryo nta kibazo ushobora kugira cy'amenyo cyangwa k'ishinya, mu bigaragara yari ari guseka, twoze amenyo yacu neza, kugira ngo tugire ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umwana uryama uri kwa muganga afite amenyo y'umweru, ururimi n'imisatsi w'inzobe, muganga yambaye ga afite ibikoresho byabugenewe, arimo arasuzuma umwana mu kanwa areba uko umwana ameze, twite ku menyo yacu tuyasuzumisha tumenye uko ameze, niba afite ibibazo tuyavuze nimba nta bibazo dukomereze aho.

Ni umukobwa ufite imisatsi y'umukara, uri kumwe n'umukecuru uri kumuhereza ibinini ngo abinywe kugira ngo akire indwara afite, anyweshe amazi ari mu kirahure, ni byiza twite ku bakecuru n'abantu bakuze tubibutsa kunywa imiti ku gihe, kugira ngo bakire indwara bafite.

Umuganga wambaye agashati k'umweru hejuru, wambaye isaha ipantaro n'inkweto z'umweru ufite imisatsi w'umuzungu uri kuganiriza umurwayi, umurwayi ufashe ku kantu, yambaye ipantaro yumutuku n'inkweto z'umukara tuganiriza abarwayi batuma batiheba bakumva ko bakira bakagira ubuzima bari barimo tuganirize abarwayi.

Umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ufite umusatsi mukeya n'umukobwa ufite umusatsi mukeya wambaye agakote, wambaye n'ipantaro ndende bari guhagurutsa umusaza ufite imisatsi yimvi, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wamaboko maremare. Dufashe abasaza n'abakecuru bageze mu za bukuru kuko nta mbaraga baba bagifite zo kwigenza.

Umuganga wambaye agapira n'ipantaro bisa, yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi y'imikara, yambaye igikoresho apimisha abarwayi mu ijosi, yicaranye n'umukecuru udafite umusatsi ku mutwe wambaye ikanzu arimo aramuvura, muganga yambaye ga n'isaha ku kaboko.

Abagore bakuze batatu bafite imisatsi y'imvi, bafite amenyo y'umweru, bambaye amaherena, barimo baraseka bari kwifotoza na telefone, twishime tunezerwe kuko ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo abambaye umupira w'amaboko w'umweru...

Umupapa wambaye umupira n'ikabutura nta musatsi afite ku mutwe arimo arakina n'akana k'agakobwa gafite imisatsi ku mutwe, barimo barakina umupira w'amaboko witwa basikete, dukine kuko gukina bituma abantu bisanzurana, bakaba babasha kubwirana byose nta kintu batinyana.

Umusaza wambaye rinete, ufite imvi mu mutwe, arimo arandika, yambaye umupira w'amaboko maremare n'ishati, ari kwandika mu ikayi, twige, twihugureho kuko bituma tutibagirwa ibyo twize, bituma duhora dukangutse mu bwonko bwacu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, aricaye arimo arafata umurwayi ibipimo, ufite imvi, udafite umusatsi ku mutwe, wambaye ishati y'amaboko maremare ariko yayihinnye, hari akuma, hari ameza yarambitse akaboko, muganga yicaye ku ntebe y'umweru, twite ku barwayi, tumenye icyo barwaye, kandi tunabahumurize.

Umugore wambaye amaherena amarinete agapfukamunwa ufite agasatsi gake k'umukara ufashe umusaza mu mugongo ufite imvi z'umweru, wambaye umupira, arimo aramumanukana ahantu. Dufasha abantu bakuru, abasaza kugera aho bifuza kuko nta mbaraga zo kugenda baba bagifite.

Umurwayi w'umugore wambaye ishanete mu ijosi, ufite inkoni mu ntoki, arimo araseka, afite amenyo y'umweru, afite udusatsi tuzingazinzwe ku mutwe, umuganga ufite igikoresho mu ijosi apimisha abarwayi, yambaye imyenda yo kwa muganga, arimo araseka, afite amenyo y'umweru, afite n'ubwanwa bw'umukara n'umusatsi w'umukara utari mwinshi.

Abagabo babiri bakuze, bambaye imipira y'amaboko maremare y'umweru, n'amapantaro maremare y'amatiriningi, bari muri siporo, barimo baraseka, umwe afite n'agacupa k'amazi n'undi araragafite, yambaye umupira mu ijosi w'umukara, dukore siporo tugire ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite imusatsi miremire ufashe akaboko k'umuntu, umugabo muremure ufite imvi mu bwanwa no mu mutwe ufite amenyo y'umweru, afashe akantu karimo karamugorora ukuboko n'ikiganza, ni ingenzi siporo dukora, yambaye umupira w'ubururu.

Umugore w'umukecuru urimo uraseka ufite amenyo y'umweru, ufite imisatsi y'imvi, afite akantu kagorora intoki, ikiganza, dukore siporo, tugire ubuzima bwiza, tubashe gufata, imitsi yacu irambuke, dukore imirimo nta kibazo, tugende twumva tugenda neza kubera siporo tunagorora intoki zacu n'ikiganza n'udukoresho twabugenewe.

Umukecuru wambaye impeta ufite imvi wambaye agapira k'amaboko magufiya, umusaza wambaye amarinete, arimo araseka afite amenyo y'umweru, bari kumwe n'abana babo, umutoya cyane, umukuru ufite imisatsi myinshi, barimo baraseka ni byiza, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, inyuma yabo hari imodoka.

Umukobwa ufite imisatsi y'imikara w'inzobe, wambaye agapira, wambaye akantu mu ijosi, ari kumwe n'umumama wambaye rinete, witeze igitambaro cy'umukara mu mutwe, ufite amenyo y'umweru wambaye impeta, wambaye n'agapira gasa oranje k'amaboko maremare, ari kumwe n'uwo murwayi, arimo aramuganiriza, tubiteho kuko baba bakeneye care z'abantu batoya.

Abagore bari kumurongo, umwe wambaye ikanzu, abandi bambaye amajipo y'imikara hasi, abandi bambaye imipira y'imweruru, harimo ikimenyetso cya twirinde SIDA, abiteze ibitambaro, abafite imisatsi y'imikara n'abambaye ingofero y'umweru.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi, wambaye rinete, wambaye amaherena, urimo uraseka ufite amenyo y'umweru, ufite ikirahure kirimo akantu ko kunywa mu ntoki, hirya hari isaha, hari umugore wambaye amaherena, ufite umusatsi w'umukara, wambaye umupira w'amaboko maremare, urimo urategura imboga, hirya hateretse na robine.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite igikoresho mu ijosi apimisha abarwayi, yambaye karuvati, afite amenyo y'umweru, arimo arasobanurira umurwayi wambaye ishati ya kake, ufite umusatsi w'imvi, arimo aritegereza ibyo umuganga amusobanurira, ni byiza gusobanurira umuntu agasobanukirwa.

Umusaza ufite imvi mu bwanwa no mu mutwe ari gukora siporo yambaye rinete, afite utuntu mu ntoki turambura ikiganza, arambuye amaboko, yambaye umupira w'amaboko magufiya, yambaye ikabutura isa umukara. Dukore siporo tugire ubuzima bwiza, ni ingenzi ituma udasaza vuba.

Umukecuru wirabura ufite imvi wambaye umukenyerero, wambaye ishanete mu ijosi no ku kaboko, ufite mikoro y'umutuku, arimo araganiriza abantu, hirya hari imodoka ebyiri, inzu, ibiti, ibyatsi, hari kuva n'izuba, hari n'ipoto rishinze, ahagaze mu kibuga kitarimo ibyatsi.

Umukecuru w'inzobe wicaye wipfutse ku mazuru, wambaye amarinete, wambaye impeta, wambaye amaherena ufite ikirahure mu ntoki, ufite imisatsi y'umweru, wambaye agapira, iruhande rwe hari ifoto imanitse hejuru. Uyu mukecuru yari abyutse agiye kunywa amazi.

Abagore bafite imisatsi barimo baraseka, umwe yambaye rinete afite amenyo y'umweru duseke byongera iminsi yo kubaho, guseka ni byiza bituma udasaza kandi iyo wasetse ubuzima bwawe buriyongera, duseke ejo ni heza nta kurakara nta kwigunga.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi urimo uraseka ufite amenyo y'umweru afite imisatsi y'imikara, yambaye imyenda yo kwa muganga arimo arasukira umurwayi ibintu mu ntoki, ufite ubwanwa b'umweru ufite ikirahure n'amazi mu ntoki baricaye bari kurebana barimo baraganira.

Umusaza ufite imvi mu bwanwa, imbere ye hari machine yambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, ateze akaboko ngo bamuhereze ibinini, hasi hari ikirahure kirimo amazi agiye kunywesha ibyo binini, hari umukobwa ufite imisatsi y'imikara, wambaye isaha ku kaboko ufashe umusaza ku rutugu, hari n'ameza.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi miremire y'umukara, uri gufasha umukecuru gukora siporo, ufite imisatsi y'imvi, wambaye amaherena, urimo uraseka, ufite amenyo y'umweru, warambuye amaboko, wambaye umupira w'amaboko maremare. Dukore siporo tugire ubuzima bwiza. Bituma utananirwa, bituma utanarambirwa cyane; ntabwo usaza vuba.

Abacyecuru bageze mu za bukuru bafite utukoni bari kugenderaho tubafasha kugenda kuba batagishoboye kugenda bafite imisatsi y'imvi abandi biteze ibitambaro bambaye imipira y'imituku, bambaye imishanana, hirya hari inkoma z'ibitoki bari mu muhanda w'ibitaka.

Umukecuru uri guseka ufite amenyo y'umweru, ishinya uteza agatambaro k'umutuku wambaye agakote, umusaza amufashe ku rutugu na we afashe umusaza ku rutugu ufite imvi mu bwanwa, mu mutwe wegamye ku mukecuru.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi bose, umusaza yambaye rinete afite terefone mu ntoki, yambaye impeta hari igipapuro barimo bararebaho, twite ku bantu bashaje kuko baba ntambaraga baba bagifite, baba bakeneye abantu babitaho bakabaha keya, hari ameza ateretseho izo mpapuro, hirya hari n'intebe.

Umukecuru wambaye amaherena wirabura wambaye agapira k'amaboko maremare afite ikirahure umuntutoki kirimo amazi afite n'ibinini ari kubyitegereza abireba agiye kubinywa, tunywere imiti ku gihe ko bituma dukira indwara turwaye nta kibazo tukagira ubuzima bwiza nta kabuza.

Umukecuru wicaye mu twatsi uri gukora siporo ufite imvi mu mutwe, wambaye umupi w'amaboko maremare, wambaye n'agakora karekare ari gukora siporo afashe ku maguru yunamye, dukore siporo zituma tugororoka ku mubiri wacu cyane cyane umugongo n'amaguru n'amaboko bigatuma dutekereza neza dukora n'ingendo ndende.

Umugabo wifashe ku kananwa ufite imisatsi y'imvi. Ufite ubwanwa bw'imvi. Wambaye lunette. Ufite ikaramu mu ntoki. Afite igitabo imbere ye arimo aragenda asoma. Nidusome kuko gusoma ni byiza, bituma hari ibyo twiyungura tutari tuzi.

Umusaza ufite imisatsi y'imvi n'ubwanwa bw'imvi uri hagati y'ibyuma bibiri ari kubigenderaho abifashe, hari umukobwa ufite umusatsi w'imikara uri kumufasha kubigenderamo, abantu bashaje baba bakeneye abantu babitaho babafasha mu kugenda kuko baba baratangiye gusaza nta mbaraga bagifite.

Abantu babiri b'igitsina gore bari guseka bafite amenyo y'umweru, umwe yambaye isaha undi yambaye impeta, bafite imisatsi y'imikara iboshye, duseke kuko guseka byongera iminsi yo kubaho, udaseka ugira uruhu rusa nabi, abantu bakanagutinya.

Akuma kakorewe abantu bageze mu zabukuru, aho umukecuru agafashe ari kugenda akagenderamo, kamufasha kuva ahantu hamwe ajya ahandi ni keza ko karafasha, hari n'intebe umukecuru yari yicayemo, yambaye ikanzu, yambaye ibirenge, abantu bakuru bakeneye abantu babitaho tubiteho.

Umuganga ufite umusatsi w'umukara uri kumwe n'umurwayi ufite imisatsi y'imvi wambaye rinete w'inzobe, iruhande rwabo ku meza hateretse amazi mu kirahure, ikayi ibinini, muganga arimo araganiriza umurwayi amubwira ngo ugomba gufata ibinini bimeze gutya, mugitondo, nimugoroba ku manywa...

Umusaza ufite imvi wambaye umupira'maboko maremare uri kumwe na akana gafite imisatsi yumukara miremire gafashe umusaza mu ntoki barimo baraganira. Tuganirize abantu bakuze kuko baba bakeneye abantu babitaho, baba bageze mu za bukuru aho nta mbaraga bagifite.

Umugabo n'umusaza wambaye rinete ufite imvi, bose barimo baraseka, bafite amenyo y'umweru, bafite igitabo mu ntoki barimo barasoma u, umusaza yambaye umupira w'amaboko magufiya, hari ibitatsi biteretse iruhande rwabo bibiri. Dusome twungurane ubumenyi, twishime.

Umugore w'umuganga ufite umusatsi w'umukara, wambaye umupira w'ubururu, wambaye ikintu mu ijosi asuzumisha abarwayi, umusaza wambaye lineti uri kwitegereza akaboko ke bamufata ibipimo, yambaye ipantaro ndende n'umupira, hirya hari itara rya kizungu riteretse ku kameza, hari na rido.

Abagore n'abagabo baricaye bafite udusahani imbere yabo turimo akantu ko kunywa, hari undi mugabo uhagaze hejuru y'undi wambaye rinete uri kumufasha kuva hamwe ajya ahandi asunika akagare yicayemo, bari kuganira ni byiza.

Umwana abagore n'umusaza bose barimo baraseka barishima baranezerewe, duseke kuko byongera iminsi yo kubaho, bamwe bafite imisatsi y'imikara miremire abandi nta misatsi bafite, undi afite imvi, umusaza yambaye ikabutura ntoya.

Umuganga ufite imisatsi y'umukara wambaye imyenda y'imituku yambaye ibikoresho mu ijosi byabugenewe arimo arafasha umusaza kugorora ikiganza yifashishije agakoresho kabugenewe, umusaza wambaye rinete ufite imvi mu mutwe wambaye umupira w'umweru, yicaye mu gatebe barimo baramufasha, twite kubantu bashaje kuko baba bakeneye ababitaho

Umusaza n'umukecuru bafite imvi mu mutwe baricaye barimo bareba ku gipapuro umukecuru yambaye impeta imbere yabo hateretse igitasi kiriho amazi barimo baraganira bareba ibyo babandikiye bungurana ibitekerezo. Dufashanye kuko ni ingirakamaro.

Umuganga w'umukobwa ufite imisatsi y'umukara yari afite igikoresho mu ijosi bakoreshamo barimo barapima uko umurwayi ameze, umurwayi arimo aritegereza hanze yicaye mu gatebe, ni byiza twitegereze turebe kure tumenye aho ejo hacu hameze.

Umugore n'abakecuru, babiri bambaye ingofero, babiri bambaye rinete, barimo barareba muri terefone abasobanurira, bambaye imipira y'umukara, abandi bambaye ibitenge by'amakanzu, dusobanurirane kuko twungurana ibitekerezo hagati yacu, icyo umwe azi afasha abandi.

Abagore n'abakecuru bambaye ibitenge, bamwe biteze mu mutwe ibitenge, abandi bambaye amabubo baniteze mu mutwe, imbere hari inyanya zisa umutuku, imyanya ni ingirakamaro, kuko ziturinda indwara, zitukuza ibirya, ibiryo biraryoha bigasa neza.

Umukobwa wambaye amaherena ufite agasatsi gakeya uri guseka ufite amenyo y'umweru wambaye agapira k'amaboko maremare y'umweru, afite utumamiyo mu ntoki bakoresha bateka, arimo arayora ibintu bigiye bitandukanye, hari umuhungu ufite umusatsi uringaniye, wambaye agapira k'amaboko maremare gasa umutuku ufite isahani mu ntoki iriho umugati, hari n'umukecuru uri hagati yabo wambaye rinete ufite imisatsi y'imyeru.

Umugore uhagaze imbere y'abantu, wambaye ijipo ndende n'umupira, afite imisatsi miremire y'imikara, yambaye rinete, afite mikoro na terefone mu ntoki ikoreshwa mu kurangurura ijwi abantu bose bakumva, ni nziza tuyikoreshe kuko abantu batwitaho.

Abantu bagiye batandukanye abagore, abagabo bamwe baricaye abandi barahagaze, bambaye imyenda igiye itandukanye amakanzu, kositime z'umukara, kositime zisa ubururu, kositime zisa icyatsi kibisi bambaye na karavate.

Umugore ufite imisatsi y'imikara, wambaye rinete uri guseka ufite amenyo y'umweru yambaye ikote, yambaye ipantaro ndende y'umukara n'agasengere, yambaye baji, afite mikoro arimo arabahereza ikiganiro aharikubwira urubyiruko kudatwara inda zitateguwe bari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Abagabo bambaye ikositimu n'inkwetoba abagore bambaye amajipo n'amakote bambaye na baji bafite imisatsi myinshi y'umukara, baricaye bateze amatwi abandi bambaye ishati z'umweru bageretse akaguru kandi bicaye ku ntebe zisa umutuku, hirya mu mpande hari amabara atandukanye dutege inama amatwi twumve ibyo bayivugiramo.

Abagore n'abagabo n'abakobwa bambaye udupfukamunwa, bafite udukapu tw'umweru mu ntoki, hari ameza ateretseho ibintu bisa ubururu, bamwe baricaye abandi barahagaze, hari undi uri kubafata ifoto y'urwibutso, twifotoze kuko bituma tutibagirwa uno munsi, aba ari ifoto y'urwibutso.

Abakecuru b'inzobe bihaye Imana bambaye amavara, amajipo, bari kumwe na Dr. Sabin ushinzwe ubuzima wambaye isaha ku kaboko n'impeta, barimo barasuhuzanya, inyuma yabo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru hari n'ibara ry'ubururu, ni byiza, Sabin yambaye ishati y'umweru arimo araseka, we afite umusatsi mukeya ku mutwe nta vara yambaye.

Akana kari kumwe n'umuganga bari kuganira, kari kumusekera, ita ku umurwayi umusekera kuko utuma agira ubuzima bwiza, ntiyihebe, ntagutinye, ukamuhumuriza, indwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, ahubwo izatuma ubaho neza, ugire ubuzima bwiza, uzaramba, uzajye uhora uza kwa muganga nk'uko bitegetswe.

Ibara ry'ubururu ririmo ikirangantego cy'u Rwanda, imiheto ibiri isa umweru, agaseke harimo ishaka. Munsi hakaba handitseho amagambo Repubulika y'u Rwanda n'ikigo gishinzwe ubuzima ari cyo kireberera abantu baba barwayi bose kikabahereza ubuzima bwiza.

Dogiteri Sabin ushinzwe ubuzima, yambaye impeta, afite igitabo mu ntoki, yambaye ikositime, karuvati n'ishati y'umweru, yambaye n'isaha, arimo asuhuza mugenzi we wambaye rinete na kositime, bari kwifotoza, bifata ifoto y'urwibutso, ni byiza kuko bituma twibuka uyu munsi.

Abagabo bambaye cositime na karavate, abandi ntazo bambaye, abamama bambaye amakanzu, bifashe ku maboko imbere, bafite imisatsi miremire, harimo abadafite imisatsi miremire, inyuma hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hari n'ibara ry'ubururu, twifotoze kugira ngo dusige urwibutso ntituzabyibagirwe.

Akaboko k'inzobe kariho uduhereri, mu gihe uruhu rwawe rwatangiye guhinduka gana umuganga akuvure amenya ikiri kubitera utangire ufate imiti neza kugira ukiririre ku gihe, kuko iyo utinze kwivuza biriyongera ukiyongera utazi n'icyo uri kurwara. Tugane ivuriro badusuzume tumenye ikibazo dufite mu gihe uruhu rwacu ruri guhindagurika bitangaje.

Ibimenyetso by'umuntu ufite diyabete yumva afite icyaka, yumva ananiwe, agenda ananuka bitunguranye, diyabete iterwa no kuba ufite isukari nyinshi mu mubiri, tunywe isukari y'umwimerere y'igisheke, isukari itetse neza bituma diyabete ntayo turwara, diyabete igushyira mu buzima bubi, tuyirinde,...

Umugore w'inzobe ufite imisatsi y'umukara, uri kuvuga kuri Kovide. Kovide nayintini yari icyorezo, cyatumaga abantu badasohoka mu nzira, cyandurira mu matembabuzi, umuntu yaba ari kuvuga acyanduye ugahita ucyandura, aho twakirinze twambara udupfuka munwa, tuguma no mu rugo tudasohoka.

Abagore n' nabagabo bitabiriye inama, imbere yabo hari umugabo udafite umusatsi ku mutwe wambaye ikositimu ufite mikoro, uri gutanga ikiganiro kugirango abantu bose bamutege amatwi bamukurikire, ni ingenzi gutega amatwi kuko hari ibyo wungukiramo utari uzi, hari porojegiteri irimo irapprojegitinga ibintu ibintu kuri sikirini kugirango abantu babashe kubibona neza.

Umurwayi wambaye agapira k'umweru, rinete, wambaye agapfukamunwa, ufite ibisuko, yifashe ku nda, bari kumutera urushinge, umuganga uhagaze wambaye agapfukamunwa, ari gutera umurwayi urushinge wicaye ku ntebe, hari n'undi muntu na we urimo uramureberera.

Umuzungu wambaye ikositime n'inkweto by'umukara, baji n'ishati y'amaboko maremare, yifashe mu mayunguyungu arimo araseka, ari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu ngufiya, yambaye baje, afite imisatsi miremire, barimo barifotoza, yambaye n'isaha ku kaboko, ifoto ni urwibutso.

Haje urukingo ruvura virusi iterwa n'inkende aho yibasiraga abantu, umugabo wambaye rinete w'inzobe, inyuma ye hari igiti cy'amashami maremare n'amababi y'icyatsi kibisi, hari n'inyubako ndende yubatse iri inyuma ye.

Abantu bambaye imipira y'imyeru hari n'abambaye iy'ubururu bari kugenda bakangurira abantu kwirinda kanseri y'ibere, mu gihe usanze uyifite yivuze kuko irakira kandi iyo uyibonye nta kwiheba kuko baba bazakuvura igakira, twivuze kanseri y'ibere hakiri kare.

Umuryango Mastercard ufasha abantu kwishyurira minerivale, bamwe barahagaze abandi baricaye bafite ifoto mu ntoki, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, kuri ayo meza hateretseho ibintu, hasi hari itapi y'umutuku, inyuma y'abo bantu hari icyapa cyanditseho Mastercard.

Abakobwa bari mu nzu ahantu hamwe, bamwe bafite imisatsi, abandi ntayo bafite, bambaye amapantaro maremare, bambaye imipira y'imyeru irimo n'irindi bara, bambaye n'inkweto zigiye zitandukanye, bafashe positeri zigiye zitandukanye, barimo barabafotora ifoto y'urwibutso bafite ikintu mu ntoki bose.

Abantu babiri bahagaze bafite ibintu mu ntoki, umugore ari guseka, afite imisatsi y'imikara, yambaye ipantaro n'umugabo yambaye ipantaro ndende bose bambaye baji mu ijosi, umugabo yambaye n'ishati y'amaboko maremare bakaba bambaye n'inkweto zifunze.

Umuntu wahuye n'ikibazo akikubita hasi, ariko hari abavuzi bari iruhande rwe, bari kumuha ubutabazi bw'ibanze, bambaye amataburiya asa umweru, harimo n'abambaye utujire, abambaye udupfukamunwa, twite ku muntu wahuye n'ikibazo kigiye gitandukanye, tumufashe tuzahure ubuzima bwe, butarajya mu kaga.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge byubatswe mu Mujyi wa Kigali, biganwa n'abantu batandukanye: abana, abagore n'abagabo baje kwivuza indwara zitandukanye, bikaba bifite n'abaganga b'inzobere mu kuvura izo ndwara, ku ruhande hari ubusitani bwiza, hakaba hari n'igiti giteye hagati.

Inzugi zikozwe mu biti, hirya hari n'ikindi kintu cyometse ku gikuta, ibikuta bisa umweru, hasi hari amakaro, hirya hari akameza, ni aho abantu baca muri korodoro hagiye hatandukanye ugiye kwinjira muri bino byumba. Ni heza harasa neza,...

Butaro hospital ni ibitaro bikorera muri Burera by'Abanyamerika. Aho abantu bahagaze, bamwe barifotoza b'abazungu abambaye rinete, abambaye amapantaro y'imikara n'andi mabara. Abambaye amashati y'amaboko maremare y'umweru, abambaye amakote na karuvati, abafite imisatsi miremire n'imigufi...

Igikoresho cyo kwa muganga cyitwa MRI gikoreshwa gisuzuma umuntu, kureba icyo arwaye mo imbere, icyo batabonesha amaso ku buryo bamuvura byihuse, akabona ubutabazi atararemba bikomeye cyane.

Umuntu wicaye uri kwitegereza muri screen, screen ifike keybord, afite machine, amashusho ari kuva muri mashini ajya kuri iyo screen, akayitegereza akayanariza, harimo igihimba cy'umuntu, amagufa, afite umusatsi mukeya hirya ye hari rido z'umweru, aricaye biteretse ku meza.

Reception ni ahantu ubanza kun bakakwakira iyo uje muri company runaka, bakagusobanurira bakakuyobora aho ugiye, reception ni nziza kuko ntabwo ushobora kuyoba wabanje kunyura kuri reception.

Ibitanda byo kwa muganga abarwayi bararaho iyo bahawe ibitaro, supanete baryamamo kugira ngo batarwara Malariya ziterwa n'udusimba twitwa anofere, amarido, turyame muri supanete kugira ngo twirinde Malariya.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda iri mu karere ka Huye ahahoze hitwa Butare, ni kaminuza ifite amashami menshi agiye atandukanye aho abantu benshi bahurira bakiga ubumenyi bugiye butandukanye bwo gukoresha mu buzima bwo hanze, ubuganga, ikoranabuhanga...

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri laboratwari, bisa umweru, harimo n'ibirahure, iyo ugiye kwa muganga bagasanga urwaye, bagufata ibizamini, ibyo bizamini ubitanga muri laboratwari, bakabisuzuma bakareba icyo urwaye, hari igihe basanga ari inzoka, bakabyohereza kwa muganga, bakaguha imiti.

Umurwayi wicaye ku gitanda cyo kwa muganga urwaye, yambaye akantu k'umukara mu mutwe, muganga ari kumuganiriza amugira inama amubwira ko ubuzima bwe ari bwiza ko azakira, igihe umurwayi arwaye muhumurize umubwire amagambo meza ye kwiheba, afite umusatsi w'umukara yambaye itaburiya y'umweru.

Intebe zikozwe mu byuma abarwayi bicaraho iyo baje kwa muganga, hari igishushanyo cy'ijisho gishushanyije ku gikuta gisa umweru, harimo amabara agiye atandukanye, hari ubururu, hari n'umweru, hari n'amatara, ni muri koridoro, hasi hari amakaro, hirya hari za purinta, hari na eya kondishoni itanga akayaga n'ubukonje.

Ikigo nderabuzima ku rubaraza hahagaze abantu, hari n'undi wicaye ku ntebe y'urubaho ndende, ni cyiza tukigane twivuza indwara zigiye zitandukanye kuko iyo ukiganye ntabwo ubabara cyane, barakuvura bakagusuzuma ugataha umeze neza nta kibazo ufite cyashyiweho abaturage tukigane.

Umubyeyi utwite agomba kwitabwaho we n'umwana atwite; arya indyo yuzuye kugira ngo umwana avukane ubuzima bwiza, akavuka yujuje ibiro bikwiye guha umwana uri munda wabayeho neza. Ni yo mpamvu yuzesa ayidi ihari ngo ifashe umugore n'umwana kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ubyibushye wambaye umupira, ikabutura, ugaramye, wambaye agapfukamunwa, uri kuri serumu, akaboko ke yagateretse ku musego, iyo baguhaye serumu ni uko uba utabasha kurya akaba ari ho ibintu byose babinyuza muri iyo serumu.

Intara y'Iburengerazuba, Centre de Sante Gisenyi niho ikorera ku mazi aho abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye bahagana, bagahura n'abaganga b'inzobere bakabafasha kubavura bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze ku buryo ubuzima bwabo buhora bumeze neza kubera ino Centre de Sante Gisenyi.

Oparesheni rumu. Ni icyumba umurwayi ajyamo. agahura n'umuganga akamubaga, afite ikibazo cy'ubwonko, afite ikibazo cy'akaguru, agiye kubyara abazwe arahagana bakamufasha harasa umweru amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Isange One Stop Center Kabutare hospital ikorera muri Huye, ni ikigo abakobwa bagana iyo bafashwe ku ngufu, bakaba babahereza ubuvuzi bw'ibanze aho babasuzuma bareba ko nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina baba bandujwe, basanga zihari bakabahereza ubuvuzi basanga ntazo bagataha.

Umuganga w'umugabo, wambaye ikabu y'umweru urimo guseka wambaye amarinete, ufite igikoresho gikoreshwa bapima umugore utwite, ufite na telefone mu ntoki, hirya hari umugore wambaye ikanzu uri gufata ku nda ye.

Inzu y'igorofa y'ikigo nderabuzima aho abaturage barwaye indwara zitandukanye bakigana bakabavura, bagahura n'abaganga b'inzobere mu kuvura izo ndwara. Hanze hari igiti cy'amababi kihateye hari abaturage bahagaze hanze yacyo, tukigane kituvure tugire ubuzima bwiza.

Ibitanda byo kwa muganga hari na rido, ni aho abarwayi baryama iyo bandikiwe ibitaro basanze umurwayi arembye cyane akeneye kwitabwaho na muganga, aho amukurikirana buri saha ku yindi yamara gukira agataha, ibitanda ni byiza, ni ingenzi ku barwayi.

Ibitaro racla decide kwa Nyirinkwaya bikorera mu mujyi wa Kigali bivura indwara zigiye zitandukanye, abarwayi batandukanye, abagiye kubyara, abafite ibibazo byo mu mutima, abava cyane, abafite ibibazo by'amaraso yirukanka n'agenda gakeya bose barahagana bakabavura.

Umuganga ufite imisatsi miremire urimo urasuzuma umurwayi, amuganiriza amubwira amagambo meza y'ihumure, umurwayi nawe yishimye, arimo araseka, afite amenyo y'umweru, afite ubwanwa burimo imvi, afite umusatsi mukeya urimo imvi, yambaye amarineti.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, harimo isaha n'agatanda k'abarwayi baryamaho iyo baje kubasuzuma, hari sikirini yerekana ibyo umurwayi arwaye za ndwara zitabasha kugaragara nko kureba mu nda, kureba amagufa yavunitse, ni ho binyura ukamenya uko umurwayi ameze, twisuzumishe tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Ibitaro byubatse mu Karere ka Nyanza bifite porutaye isa ubururu, hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, ni ibitaro biganwa n'abantu bagiye batandukanye, bafite indwara zitandukanye, bagahura n'abaganga bakabavura bakagira ubuzima bwiza, tugane ibitaro kuko iyo urwaye barakuvura niyo basanze utameze neza bakaguha ibitaro ukabamo ukurikiranwa n'abaganga.

Umuganga w'igitsina gore wicaye ku gatebe wambaye agapfukamunwa yambaye rinete, afite imisatsi y'umukara, ga, isaha ku kaboko, arimo araganiriza abarwayi abafata ibizamini bicaye bishimye, twita ku buzima bwacu.

Faruma byanditse mu ibaracyatsi kibisi hanze hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru n'umumotari wambaye kasike, farumasi ni ahantu tujya tukajya kugura imiti igiye itandukanye twandikiwe na muganga ikatuvura indwara zigiye zitandukanye, farumasi ni nziza kuko utayifite ntiwabaho kandi ntiwakira indwara n'imwe ufite.

Ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye, intebe ushobora kwicaramo cyangwa bakayirambura ukaryamaho, uje kwisuzumisha yaba utwite cyangwa uje kwikuza nk'amenyo, uryama muganga akagusuzuma akareba ikibazo ufite, akaba yaguha imiti bitewe n'ibyo asanze urwaye.

Jaride iteyemo indabo z'icyatsi kibisi, hari n'ikoma ry'icyatsi kibisi, hari akayira kakuganisha ku nyubako wifuza, inyubako zifite amabati y'umutuku, zisize amarange y'umweru, twubake inzu nziza zifite ubusitani, kuko ubusitani bwiza butuma ahantu hasa neza.

Hari abarwayi baryamye ku dutanda tw'abarwayi kwa muganga, umwe yambaye isaha, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'amasogisi, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'agapfukamunwa uri kumwitaho, no hirya ye n'aho hari undi muganga na we uri kwita ku wundi murwayi. Twite ku barwayi bagira ubuzima bwiza.

Abantu baricaye bari gutanga ikiganiro, hari umugabo wambaye rinete, yazizamuye ziri mu gahanga, hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, hari na mashine, hari n'undi muntu uri kwandika ibyo bari kubabwira, ni ingenzi kuko bituma utabyibagirwa, hari n'undi mugabo uri gufata amashusho abantu bicaye aho ngaho.

Abaganga bambaye agapfukamunwa, ibisarubeti, ingofero bisa umweru harimo ubururu, amarido y'ubururu, ibitanda abarwayi babiryamyeho, intebe bari muri sale, aho abarwayi barwariye baje kureba abarwayi babo uko ubuzima bwabo bumeze.

Umugore uteruye akana kambaye imyenda y'imyeru, umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukanwa wambaye rinete, urimo urita ku kana, agasuzuma, umubyeyi yaje gusuzumisha umwana we, kugira ngo amenye uko umwana we ahagaze, dusuzumishe abana bacu tumenye uko ubuzima bwabo bumeze.

Umurwayi w'umugore uryamye kwa muganga, ufite imisatsi, aryamye ku mashuka asa umweru, yiyoroshe ikiringiti, hirya ye hari ibikoresho byifashishwa kwa muganga, iyo urwaye baguha ibitaro, kugira ngo muganga abashe kugukurikirana neza, ata bitamugoye, aho kugira ngo ujye mu rugo ukajyayo warakize.

Ibitaro by'Umwami Faisal, abagabo, umugore ufite imisatsi ku mutwe, bose bafite udupaniye mu ntoki tugiye turimo ibintu bitandukanye, bose bambaye amashati y'umweru, hasi bambaye amapantaro, umukara n'ubururu, bakaba barimo baragenda bateye intambwe bagana ku bitaro by'Umwami Faisal.

Igiti kinini gifite amababi y'icyatsi kibisi, munsi hicayemo umugabo ufashe hasi wambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro ndende, munsi yicyo giti yicayemo nta zuba ryakwica, mu gihe izuba ribaye ryinshi ujyamo ukirinda iryo zuba ku buryo nta zuba rishobora kukwica.

Ibivaze biteyemo indabo, inzugi zifite ibirahure bibonerana, ni aho ukorera siporo, ugatakaza ibinure, ukagira taye wifuza aho ugabanyuka mu biro ku buryo ugira ubuzima bwiza, waba urwaye guhumeka nabi uhumeka neza waba ushaka ko amagufa yawe yakomera agakomera, dukore siporo.

Umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga yiteze igitenge mu mutwe, yiyoroshe igitenge muganga ari kumuganiriza yambaye itaburiya y'umweru, yambaye rinete, yambaye ga, ari kubaza umurwayi uko ameze kugira ngo abone ukuntu amufasha.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, hafi hari indabo zihateye, ni ibitaro bivura abantu bagiye batandukanye abakuru, abatoya n'abana n'impinja, iyo ufite ikibazo ugana ibyo bitaro bikakuvura kuko biba bifite abaganga b'inzobere mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Agatanda umurwayi aryamaho hari na mashine na sikirini bigaragaza icyo umuntu arwaye, batarebesheje amaso, ni byo byifashishwa kwa muganga, ni ikoranabuhanga rigezweho, iyo urwaye ikintu kiri mu nda batabasha kubonayo bakoresha izi mashini kikabigaragaza.

Abagore n'abana n'abagabo baje kwa muganga, baje kwivuza indwara zigiye zitandukanye, abagore bambaye ibitenge, abandi barabyifubitse, abasaza bambaye ingofero bategereje ko baza kubavura, tugane ivuriro mu gihe twumva tutameze neza, baduhe ubuvuzi bw'ibanze, butume tutarwara ahubwo dukire.

Abasore n'abakobwa bambaye itaburiya hamwe bamwe barahagaze abandi baricayi, barimo barareba ibyo umukobwa ari gukora asuka amazi mu gacupa hanyuma hari na papier hygienique guhanagura amazi mugisha kwihanagura n'intoki nayo urayikoresha abakobwa bafite imisatsi miremire isutse neza kandi barimo barareba icyo uwo mukobwa arimo arakora.

Umukecuru uryamye ku gatanda ko kwa muganga, yiyoroshe igikuvureri kirimo amabara y'ubururu, yambaye umupira urimo umutuku n'umukara, ari kuri serumu. Hasi hateretse akabido, hari na puberi, hari akameza gateretseho icyayi aribuze kunywa.

Ibitanda byo kwa muganga abarwayi bararaho iyo babahaye ibitaro, matera zambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, hari uduti bashyiraho serumu, iyo umurwayi bamuhaye serumu mu gihe umurwayi adashobora kurya akaba ariyo azajya ariramo, kwa muganga ni ahantu heza.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya bibonerana, hari amabara y'umweru, amagambo yanditswe ibara ry'umukara, umuhanda usa umukara, ushushanyijwe n'imirongo y'umweru, inzu ni nziza kandi isize amabara y'umweru, bigaragara neza n'amabuye ya rukarakara hafi aho.

Farumasi dusangamo imiti igiye itandukanye, muganga ayitwandikira tukayisanga muri farumasi, ikatuvura indwara dufite. Imbere yayo hari ama esikariye umanuka cyangwa ukazamuka, iyo uje muri farumasi cyangwa uvuye muri ino farumasi. Hanze handitseho tageti mu ibara ry'umweru, hakaba hariho n'ibara ry'icyatsi kibisi; tugane farumasi tubone imiti twifuza.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo kiri mu karere ka Huye, kiganwa n'abantu bafite indwara zitandukanye, abatwite, abafite indwara zitandukanye kikabahereza ubuvuzi bitewe n'indwara ufite, tugane ibigo nderabuzima tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Ibitaro bya igorofa byitwa Sangwa, hanze hahagaze abagabo batatu, abambaye amakote y'amaboko maremare n'amapantaro y'amabara y'umukara, n'ibigiye bitandukanye, hafi yabo hari imodoka yifashishwa mu gukora urugendo, uva hamwe ujya ahandi...

Ibitaro bya Kabgayi biri mu karere ka Muhanga bivura abantu batandukanye, amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hari amazu, hari n'amatara, tugane ibitaro twivuze tumenye uko duhagaze, ubuzima bwacu bumere neza, dufite ibibazo tugana Kabgayi ikadufasha.

Ubusitani burimo ibiti bitandukanye ibiti birebire n'indabo ngufiya, ibiti by'amashami y'icyatsi kibisi biduha umwuka duhumeka bikurura imvura, bigatuma ahantu hasa neza, hirya hari n'imodoka twifashisha mu gukora ingendo ndende nk'iyo umurwayi aje kwa muganga bakamuha taransiferi, izo modoka ziramufasha kugera ku bindi bitaro byihuse.

Inzu ababyeyi babyariramo, iyo bagejeje amezi icyenda bagiye kwibaruka, bagahura n'abaganga b'inzobere mu kubyaza abagore, bagatuma abana bavukira igihe, bakavuka nta kibazo bagize, kuko kuvukira mu rugo byavuyeho, ubu ni ukuvukira kwa muganga, ni yo mpamvu hari inzu y'ababyeyi.

Abantu batatu bari kugenda babyibushye, hari ibiti byinshi cyane ni byiza biduha umwuka wo guhumeka mwiza, bikanakurura imvura ituma ibihingwa, bimera tukagira umusaruro mwiza tukajya kuwugurisha, tukabona n'ibyo turya biturutse muri uwo murima.

Ibitaro byubatse mu karere ka Rwamagana bikorera muri Rwamagana, hari abantu bari kwifotoza bari gufata ifoto y'urwibutso, abagabo bambaye amashati maremare y'umweru amabara atandukanye n'amapantaro hari n'abagore bambaye amakanzu, bambaye rineti bafite n'imisatsi miremire bari kwifata ifoto y'urwibutso.

Inzu y'ababyeyi, ababyeyi babyariramo igihe bagejeje amezi icyenda bagiye kwibaruka umwana, bagahura n'abaganga b'inzobere bakababyaza. Kizimya moto yifashisha mu kuzimya inkongi y'umuriro, ibaye bitunguranye, n'imirasire y'izuba.

Ibitaro bya ruhengeri biri mu karere ka musanze aho abarwayi babigana barwaye indwara zigiye zitandukanye abana, abantu bakuru bagahura n'abaganga bakabavura indwara bafite n'ibitaro byamamaye bizwi bivura indwara zigiye zitandukanye n'indwara zananiranye amagambo yanditswe mw'ibara ry'ubururu.

Inzu yashyiriweho ababyeyi bagiye kwibaruka bamaze kugira amezi icyenda, bagiye kubyara abana babo, tuyigane kuko ituma duhura n'abaganga b'inzobere mu kubyara, ukabyara neza nta kibazo udakomeretse cyane, umwana akavukana ibiro bizima, akavuka ameze neza, hanze hari abantu bahahagaze bari gutambuka hari n'intebe zihateretse, hari na kizimyamoto.

Ibitaro bivura amaso bifite amadirishya asize ibara ry'umweru, twivuza amaso tugire ubuzima bwiza, amaso yacu yarwaye nta kintu tuba tukibona, tuba turi gushyira ubuzima bwacu mu kaga, hari akayira kajyamo ugiye kwa muganga, hari n'ibyatsi biteye iruhande rwabyo.

Abagabo n'abagore bamwe barasutararaye abandi barahagaze, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo n'amakoti y'imituku n'imyenda ya gisirikare, inzu y'ababyeyi yagenewe aho ababyeyi babyarira iyo bagejeje amezi icyenda bagiye kwiruka abana babo, kubyara kwa muganga ni byiza, kuko bituma umwana yitabwaho igihe yaba avukanye ikibazo bakamukurikirana agakira.

Isange one stop center ni aho abahohotewe bagana iyo bafashwe ku ngufu, bakahagera bakabasuzuma, bakareba ko nta ndwara bigeze babanduza, harimo sida na virusi, basanga banduye bakaba babahereza ubutabazi bw'ibanze, aho babakingira noneho bakaba banabakurikirana neza bakagira ubuzima bwiza.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe bakenyeye ibitenge, abandi bambaye imipira y'imihondo n'itari imihondo hejuru, biteze ibitambaro by'umweru n'ibitenge mu mutwe baricaye, hafi yabo hari amazi barimo barumva inama, ikiganiro babahereza.

Ibitanda biryamyeho abarwayi, hejuru yabo hariho inzitiramibu, amadirishya ariho amarido, iyo urwaye muganga akabona ukeneye ko uguma kwa muganga, akwandikira ibitaro ukaguma mu bitaro, ku buryo ugukurikirana neza bitamugoye, ukabona ubuzima bwiza, wakira akagusezerera ugataha.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku buriri uri kwirambura amaboko, imbavu, wambaye kora y'umukara, ufite imisatsi miremire, iyo turyamye ntabwo uba uri gukora movement n'imwe, twirambure tugorore imibiri yacu mu gihe tubyutse.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'akazi yo kwa muganga: ga, agapfukamunwa, afite igikoresho gifashwa gipima kureba uko umuvuduko umeze cyangwa umutima, imbere ye hari machine arimo ararebamo, imbere ye hari amakayi n'amakaramu.

Umugabo wambaye umupira wa siporo wo kifubika ufite ingofero, ari kunywa amazi, amazi ni meza atuma tugira ubuzima bwiza, utekereza neza, akura imyanda mu mubiri atuma utarwara umutwe no mu nda ntabwo hakurya iyo uyanyweye, tunywe amazi tugire ubuzima bwiza mugihe turi gukora siporo n'igihe tuyisoje.

Agasanduku gasa umutuku gakoreshwa na croix rouge gatwara ibikoresho bigiye bitandukanye, iyo umurwayi arwaye ari kuvirirana cyangwa avunitse, baramwegera bakamwambika bande, bakamusiga na pomade, agakamera neza, agasubira mu ubuzima bwe, nta kibazo. Ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugane dutange ubutabazi bw'ibanze.

Umwirabura ufite ibisuko ku mutwe ufite tatuwage ku kaboko, wambaye umupira w'umuhondo, yambaye ikabutura y'umukara, araryamye ari gukora siporo yambaye n'amaherena, hirya ye hari umuzungu wambaye ingofero, uri gufata ku kaboko, wambaye umupira w'umukara, na we ari gukora siporo.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru, agakora k'umukara, agasengeri k'umukara, akaba yafashe ku kaguru arimo arakora siporo agorora amaboko n'amaguru, yunamye yambaye ekuteri yicaye hasi, dukore siporo tugire ubuzima bwiza, udakora siporo imitsi yawe iregerana ugatambuka ukumva urababara, wafata ikintu ukumva urababara.

Umukobwa wambaye kora ndende yumukara na agasengeri k'umukara. Afite umusatsi, yambaye amaherena, arimo aranywa amazi, ni inzobe. Dukore siporo tunywa amazi ikura imyanda mu mubiri wacu tugatekereza neza; ntiturware umutwe cyangwa turware munda dukore siporo.

Igikapu cy'umutuku cyifashishwa mu gutwara ibikoresho byo mu butabazi bw'ibanze, bagiye guhereza umuntu wahuye n'ibibazo, harimo imikasi, umukasi uriho akantu k'umutuku, hakaba hari n'umukasi utariho akantu k'umutuku, hakaba hari bandana, amapamba, amacupa y'amazi, hakaba hari n'amasaha.

Umurwayi wicaye umanitse amaguru, wambaye ikabutura, wambaye n'umupira 'amaboko maremare asa umutuku, barimo baramushyiraho bande yaravunitse kugira ngo akire, umuganga arunamye yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara arimo afasha uwo murwayi kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye ufite imisatsi uri gukora siporo y'akaboko, siporo ni nziza ugorora akaboko, ugatuma ugira ubuzima bwiza, yicaye imbere ya mashini, mashini ifunguye, hasi hariho akantu k'umukara yicayeho, hirya hari intebe, dukore siporo tugire ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire uri kunywa amazi y'isoko y'ubuzima, akura imyanda mu mubiri wacu, atuma uruhuka mu mutwe, tunywe amazi tugire ubuzima bwiza, hirya ye hari ikiyaga hari n'akazuba gakeya karimo kararasamo na we kamurasaho.

Urukweto rw'umukara rufite rase z'umukara rurerure ruzamuye warugendesha mu byondo ntibikugeho igihe imvura irimo iragwa, mu mabuye ntakwice, hariho agapapuro kari gusobanura urwo rukweto uko rukozwe handitseho bato mu ibara ry'umukara.

Umugabo ufite imisatsi y'imikara yambaye udukomo ku maboko tw'amabara agiye atandukanye arimo akora siporo arambura amaboko n'amaguru yambaye kora y'umukara, yambaye n'agakabutura karimo amabara y'umweru n'inkweto, dukore siporo kandi zituma tugororoka tukagira n'amagufa akomeye.

Agacupa karimo amazi ni ingenzi ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuyanywe asukuye kuko atuma tugira ubuzima bwiza, akura imyanda mu mubiri, utekereza neza, ntabwo urwara indwara za hato na hato nk'umutwe, nko mu nda tunywa amazi ni meza.

Umuntu uri kunywa amazi ufite isume mu ijosi ihanaguza icyuya, igihe yirukanse akabiri ibyuya. Afite umusatsi mukeya. Tunywe amazi ni ingenzi, isoko y'ubuzima, akura inyanda mu mubiri wacu, atuma dutekereza neza, ntabwo urwara umutwe, ntabwo urwara mu nda, kubera kunywa amazi ni ingenzi.

Umukobwa wambaye cola ndende n'agasengebisa arimo akora siporo y'amaboko arambura n'amaguru, dukore siporo zirambura amaboko zituma amaguru yacu arambuka amagufa agakomera bigatuma tudasaza vuba, afite n'imisatsi miremire, dukore siporo tugira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye bari gukina imikino igiye itandukanye, ni myiza ituma tugororoka tukagira amagufa meza, ntirurwara indwara zibonetse zose, umupira wa basketbal, ukina volleyball, agatenesi, rugubi, umupira wa foot, amabara agiye atandukanye imituku, imyeru n'uri kunywa amazi.

Hari umuntu wicaye warambuye akaguru wambaye inkweto z'umutuku ipantaro y'umuhondo agapira k'umutuku afite imisatsi yicaye ku ntebe, hari undi uhagaze ufashe ku ntebe, ari gukora siporo afite imisatsi yambaye agakora, hari n'amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu hakaba n'andi yandikishijwe icyatsi,....

Agakapu k'umutuku kariho ikimenyetso cy'umusaraba bisobanuye Croix rouge gatwarwamo imiti igiye itandukanye bagiye utanga ubutabazi bw'ibanze, harimo umukasi, gant, ibipfuko, papier hygienique, imiti, ibinini, iyo umuntu yagize ikibazo bamuha ubutabazi bw'ibanze. First aid.

Abantu batandukanye, uwifashe ku mutwe umurya cyane, upfukamye kuri tuwarete za kizungu arimo araruka, uryamye hasi wabuze icyizere amatwi arimo arasakurizwa, umuntu wifashe mu mazuru hari na bateri iri gushiramo umuriro iri kwaka umutuku, hari undi wicaye ku buriri warakaye wihebye.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Tunywe amazi mu gitondo, saa sita, nimugoroba. Iyo unyweye amazi, uba uri kurinda impyiko zawe; nta ho zihurira no kurwara. Amazi ayungurura imyanda iri mu mubiri. Iyo unyweye amazi, uhora umeze neza, ufite ubuzima buzira umuze.

Imbuto zigiye zitandukanye, umuneke, ironji, pome, byifashishwa mu gihe uri gukora siporo, urabirya bikakugarurira isukari mu mubiri, udafite isukari mu mibiri ntago ukora siporo ubuzima bwawe buba buri mu buzima bubi, dukore siporo turya n'imbuto kuko ziturinda indwara zikanaduha vitamine.

Umuntu wicaye ku buriri wambaye ikabutura ngufiya, umupira w'amaboko maremare usa oranje uri kwiyomeka akantu gakura imyanda mu gisebe. Turinde ibisebe byacu ko bijyamo mikorobe dukoresha tuno tuntu tuba turimo arukoro ikuramo imyanda, ni nziza kuko irafasha igisebe kikuma vuba kandi kigakira.

Umugabo uri kunywa amazi meza asukuye, wambaye umupira w'umukara, akura imyanda mu mubiri, isoko y'ubuzima, wanyweye amazi nturwara umutwe, nta kurwara indwara zo mu nda, akura imyanda mu mubiri, ugatekereza neza, iyo wanyweye amazi uba ufite ubuzima buzira umuze.

Umukobwa ufite imisatsi y'imikara ari muri siporo yo kugorora amaboko, ni ingenzi gukora siporo igorora amaboko kuko bituma amaboko yawe atananirwa, nk'aha amaboko yawe aterura ibintu byose ntakibazo wayamanika igihe kirekire ntago wumva ananiwe, dukore siporo tugorora amagufawa yacu n'amaboko yacu kugira ngo dukore ibintu neza.

Umugabo uri kubabara ku ivi, arigukoresha uno muti ahashyira kugira ngo akire, ukira ubyumva, yahinnye ipantaro yambaye, arigukoresha amaboko ye, afite inzara, ni umugabo w'inzobe, ni byiza. Twivure mugihe wumva ubabara ahantu kugira ngo utazajya kwivuza byararengeranye.

Umugabo uryamye ku gatanda k'abarwayi, wambaye ikabutura isa icyatsi kibisi, wambaye umupira w'umweru, agapfukamunwa k'umweru, udafite umusatsi ku mutwe, yahinnye akaguru, umuganga arimo arareba icyo arwaye, wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, ufite n'igikoresho bapimisha abarwayi mu ijosi, yambaye na baji.

Umukobwa muremure uri gukora siporo izamura amaboko akagororoka, yambaye kora y'umukara ndende, yambaye n'agasengeri k'umweru gaciye mu mugongo, afite imisatsi myinshi ahagaze afatanyije amaguru, amaboko nayo arafatanye arimo arareba hirya har'ahantu hari uruzi.

Umusore uri gukora siporo y'akaguru n'akaboko, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara n'inkweto n'amasogisi; dukore siporo ituma tugira umubiri ukomeye, amagufa yacu akamera neza, nta kibazo, nta ndwara za hato na hato zishobora kutwegera, kubera ko tuba dukora siporo; tuzikore tunanure amaguru yacu neza.

Umugabo uhennye ufite imisatsi, ufite ubwanwa warambuye amaboko hasi uri gukora siporo wambaye agasengeri k'umukara, ikabutura y'umukara, hirya hari intebe yo kwicaramo, dukore siporo tugire ubuzima bwiza tunanura amaboko n'amaguru.

Umuntu ari gusuka amazi mu kirahure, tunywa amazi ni isoko y'ubuzima, atuma utekereza neza, agukiza umutwe iyo uwurwaye, urwaye no mu nda urayanywa ukamera neza, amazi ni meza ku buzima bwacu bwa buri munsi, tuyasigasire kandi tunywe amazi atetse nta myanda irimo.

Umugabo w'inzobe munini uryamye ufite umugore uziziritse akaguru ke ari gukora siporo yambaye ikabutura y'umukara, dukore siporo ituma tugira ibitekerezo byiza, turuhuka mu mutwe, turatekereza, bituma tugabanuka mu binure byacu ibiro byacu ntibyiyongere, dukore siporo.

Amazi ni isoko y'ubuzima tuyanywe, tuyakoreshe ibintu bigiye bitandukanye guteka, gukoropa, kumesa, tuyoge kuko atuma dusa neza, tuyiboroseshe atuma tugira mu kanwa hasa neza, akura indwara mu mubiri wacu, atuma utekereza neza, ntago urwara umutwe nta no mu nda.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro ndende y'umukara, inkweto z'umweru n'umukara, hari ishusho arimo arareba, hari abamwicaye imbere bamukurikiye, barimo barandika ibyo arimo aravuga, ni ingenzi gufata note kuko bituma utibagirwa ibyo bakubwiye, hasi hari amakaro, hirya hari irido zisa ubururu.

Abantu bari gukora siporo umwe yahinnye akaguru undi yakarambuye, arambuye amaboko yafashe ku ntebe dukore siporo, siporo ni nziza ituma amaguru arambuka n'amaboko akambuka ukagira ubuzima bwiza, hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru hari n'ayandikishijwe ibara ry'umukara.

Ni insimburangingo y'akaguru yambikwa umuntu ufite ikibazo cy'akaguru ke baragaciye bikamusimbuza kuba yagenda neza nta kibazo afite, ni ingenzi mu buzima bw'umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo tugakoreshe kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kuba bwiza kurushaho.

Ikiganza cyambaye ga y'umukara, ga ni nziza, yifashishwa mu guterura ibintu biri bugukomeretse, mu gihe wambaye ga ugaterura ibintu biri bugukomeretse, ntabazo ugira kandi ga yifashishwa mu gutuma ibintu babitanga bifite isuku, nta mwanda.

Umukobwa urigukora siporo, ufite imishatsi y'imikara, ari kwitegereza ahantu, ari gukora siporo y'akaboko, ananura amaboko ye kugira ngo amagufa ye arambuke, kugira ngo abashe gufata ibintu byose n'amaboko ye nta kibazo afite, ntananirwe vuba, kubera ko aba yakoze siporo, dukore siporo tugire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye agasengeri ufite ubwanwa buconze neza, uri gukora siporo y'amaboko akaboko kamwe kafashishijwe akandi, dukore siporo z'amaboko zituma tugira ubuzima bwiza amaboko yacu akarambuka agakora imirimo igiye itandukanye ataruha, tugakora igihe kinini dukore siporo tugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye amaherena afite fime k'u rutugu yambaye agasengeri afite conteyina irimo amazi amazi n'ingenzi mubuzima bwacu bwa buri munsi isoko y'ubuzima akura imyanda mu mubiri, atumamu dutekereza neza nta ndwara za hato na hato turwara nko mu nda, ng'umutwe amazi tuyanywe ni meza k'ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu benshi batandukanye abana, abantu bakuru, bari gukora siporo, bari ku murongo utandukanye, hirya hari ibiti bifite amababi y'ubururu n'icyatsi kibisi, hari n'amazu hari n'amatente, abambaye amakabutura, abambaye amapantaro maremare, udupira tw'amaboko magufiya, abambaye udupfukamunwa.

Umugabo w'inzobe uri gukora siporo aterura ibyuma, bituma amaboko ye n'agatuza ke bigira inyama nini, ku buryo akora siporo akagira ubuzima bwiza, yambaye umupira w'umukara, yambaye ipantaro ndende, dukore siporo tugira ubuzima bwiza, kuko bituma tutarwara indwara za hato na hato, ari muri gimu aho bakorera siporo.

Umuntu uri gukora siporo zigiye zitandukanye, uwicaye uri kurambura amavi, urimo urirukanka agorora amaguru, uwicaye arimo aragorora ikiganza aterura ibyuma biremereye, abana bagiye gukina umupira abandi barimo barirukanka, nuko rero siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni umukobwa ufite imisatsi y'imikara, ekuteri z'umweru, isaha y'umukara, akabokoke yagafatishije mu mugongo ari gukora siporo zigorora akaboko. Tugorore akaboko kuko kadufasha imirimo mu buzima bwa buri munsi, amaboko yacu yagize ikibazo nta kintu twabasha gukora.

Ni umuti wifashishwa mu kwivura indwara zitandukanye, wumva ubabara ahantu uwishyiraho ukagukiza, usa ubururu, umugore yambaye impeta awufatishije amaboko ye, yambaye ishanete n'umupira w'umweru, aricaye tuwukoreshe ni ingenzi aho hantu hahita hakira ukabyumva.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, umukasi, ga ebyiri, itoroshi, ibinini, papiye jenike, amapamba yo gushyira ku murwayi, ibinini; mu gihe usanzwe umurwayi yakomeretse uramutabara, wifashishije bino bikoresho bigiye bitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufashe umurwayi ku ivi, arimo aramukandakanda amubaza aho ababara, ni byiza twisuzumishe, mu gihe wumva ufite ikibazo mu mubiri jya kureba muganga, kuko muganga ni we umenya ikibazo ufite, akagukurikirana bitararemba cyane.

Umugabo ufite agasatsi gakeya ku mutwe ufite ubwanwa arimo aranywa amazi. Ni isoko y'ubuzima. Atuma tugira ubuzima bwiza, dutekereza neza, nta ndwara za hato na hato turwara nk'umutwe, nko mu nda. Ni isoko y'ubuzima, tuyanywe tuyabungabunge tugire ubuzima bwiza. Hakurya ye hari ahantu hari imisozi hari n'akazuba.

Umugabo ufite ubwanwa urimo uranywa amazi ufite swime mu ijosi mu gihe uri gukora siporo ukabiri icyuya wihanaguza iyo swime, bigatuma nta kibazo ugira ugakomeza gukora siporo neza waba uri kunywa n'amazi atembera mu mubiri bikaba akarusho bigakura imyanda mu mubiri ugatekereza neza.

Umugabo uri muri siporo ufite derade ku mutwe, wambaye agasengeri, wambaye ikabutura, wambaye n'inkweto z'umukara, ufite tatuwaje ku kaboko. Dukore siporo kuko siporo ni ubuzima buzira umuze, ukora siporo nturwara, hirya hicaye umumama w'inzobe urimo uramureba areba ibyo akora.

Akagare k'ababana n'ubumuga, hariho intebe yo kwicaramo y'umukara, amapine y'umukara, ibyuma bisa umutuku, tugakoreshe kugira ngo niba ufite ikibazo ubashe kugera aho wifuza, kagira n'umuntu ugenda ugasunitse, uwo muntu bakamufasha bakamuha ubufasha bw'ibanze kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kandi bumere neza.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga, bacyambara mu ijosi bakumva uko umurwayi ameze bashyira ku mutima, cyangwa ku nda y'umubyeyi utwite. Tugikoreshe ni cyiza kuko gituma tumenya uko ubuzima bwacu buhagaze. Ni ikoranabuhanga kandi ni ryiza, kuko rituma nta kibazo tugira, iyo tuganye kwa muganga birihuta.

Inyama, foromaje, amagi, imineke, bitetse ku isahani, urusenda, ibitunguru, amashu, ku ruhande hateretse ibikoresho byifashishwa muri siporo, hakaba hari na eswime hejuru uteretseho agacupa k'amazi; mu gihe umaze gukora siporo unywa amazi. Dukore siporro, tugire ubuzima bwiza.

Umuzungu wicaye wambaye umupira w'amaboko magufi, afite umusatsi mukeya, yambaye isaha ku kaboko, yikoreye akaguru k'umurwayi, wambaye amasogisi, umupira w'umweru n'ikabutura, ari kumusuzuma areba uko amerewe, aryamye ku gitanda, ni ingenzi tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze, tugana abaganga b'inzobere.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umukara, ufite agacupa karimo amazi arikuyanywa, amazi n'isoko y'ubuzima tunywe amazi akura imyanda mu mubiri, agafasha impyiko gukora neza, iyo wanyweye amazi nta mutwe urwara nta n'ubwo urwara mu nda, tunayifashisha turimo turanywa ibinini twahawe na muganga.

Ikirahure, amazi ni meza ku mubiri w'umuntu, tunywe amazi impyiko zacu zikenera amazi, kuko iyo utanyweye amazi impyiko zibura amazi yo kuyungurura bikaba byadutera uburwayi, kandi iyo unyweye amazi ugira umuhumuro mwiza mu kanwa. Amazi yifashishwa mu kumesa, mu guteka n'ibindi.

Umugabo w'inzovu ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto n'agapira, ufite telefone mu ntoki na ekuteri, afite na esime mu ijosi, ari kunywa amazi ni ingenzi, yicaye kuri esikariye, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi yambaye n'isaha.

Umuntu wirabura, wambaye ekuteri, isaha, agasengere ka oranje, amanitse amaboko, asa nk'umuntu uri gukora siporo, ari kwitegereza hirya. Dukore siporo kuko ituma amagufa yacu arambuka, imitsi ntikomeze kwizingazinga ngo ube warwara, ukagira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye agasengeri ufite agasatsi gakeya arimo aranywa amazi, ni isoko y'ubuzima, atuma dutekereza neza, akura imyanda mu mubiri wacu, nta mazi nta buzima, tuyasigasire, tuyakoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi, amazi agukiza icyaka, tuyanywe tumere neza.

Umusore wifashe ku mutwe wambaye isaha y'umukara, arimo arakora siporo igorora intoki n'amaboko, dukore siporo tugorora intoki n'amaboko hamwe n'ijosi kuko bituma umuntu atumva ababara ijosi cyangwa ngo yumve intoki ntakintu zakora.

Umuntu uri muri siporo aricaye, arimo araruhuka, arimo aranywa amazi ,yambaye sengere y'umukara afite agakomo gasa icyatsi kibisi, hari akazuba karimo karava, siporo ni nziza ni ubuzima bwiza, akazuba nako ni keza kaduha vitamini zigiye zitandukanye mu mubiri wacu.

Umuntu w'igitsina gore uri muri siporo, ufashe ku maguru arimo arigorora, ari kugorora amaguru n'amaboko. Dukore siporo ni nziza, ituma tugira ubuzima bwiza, nta gusaza ukora siporo, nta byo kurwara za ndwara za rubagimpande ukora siporo. Dukore siporo tugire ubuzima bwiza.

Akagare kagenderamo abantu babana n'ubumuga bugiye butandukanye, karabafasha kuva hamwe bakajya ahandi, barwaye bajya kwa muganga kakabajyana, kaba gafite umuntu ugenda ugasunika, abatera ingabo mu bitugu kuko adafite umuntu umusunika ntabwo yabasha kugera aho ajya, dufashanye, twite ku bantu bafite ubumuga.

Imodoka y'ambulance irimo iragenda mu muhanda itwaye umurwayi kwa muganga ararembye, ni ntakumirwa ntabwo ijya ihagarara iba yihuta kugira ngo irengere ubuzima bw'uwo murwayi, tuyifashishe tuyikoreshe, buri bitaro bigomba kugira imodoka y'ambulance.

Umusore uri kunywa amazi, wambaye ekuteri zisa umweru, yambaye akantu ku kaboko, yambaye umupira w'umweru, dukore siporo tugira ubuzima bwiza, tunywe amazi akura imyanda mu mubiri wacu, atuma dutekereza neza, nturwara umutwe, nturwara mu nda kubera ko wanyweye amazi

Umukobwa w'inzobe ufite imisatsi miremire, ari gukora siporo yambaye agakabutura n'inkweto n'agasengeri bisa, kora siporo unanura amaguru yawe, kuko bituma ukora urugendo rurerure, ukumva ntaki kibazo ufite mu maguru no mu mavi, dukore siporo tugire ubuzima bwiza, hirya hari ikiyaga aho ahagaze ari gukora siporo.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'amaboko magufiya, wishyize akantu ku kaboko ari kubabara, kari gukuramo uburibwe, tugakoreshe gasa ubururu. Iyo ahantu ubabara urakahashyira kakakuvura, gasa neza, gakora neza tukifashishe kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya arimo aranywa amazi, isoko y'ubuzima, avura indwara zigiye zitandukanye, urwaye umutwe, mu nda urayanywa akakuvura neza ntakibazo, akura imyanda mu mubiri, uri gukora siporo urayifashisha, adukorera ibintu bigiye bitandukanye mu mirimo yacu y'a buri munsi, arinda n'impyiko kuba zarwara.

Umusore wifashe mu mayunguyungu, yambaye umupira, yambaye akantu gasa umweru n'umukara ku kaboko, yambaye kuteri zifite imigozi y'umweru, dukore siporo kuko ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, bituma turambuka, tukagira amagufa akomeye, ntiturware indwara za hato na hato.

Umuntu uri gukora siporo ufite imisatsi miremire w'inzobe hari umugabo wambaye agapfukamunwa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, aririmo uramwitegereza. Dukore siporo ni nziza ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko iyo uyikoze ntabwo unanirwa vuba, ukora urugendo rwihuse ntabwo usaza dukore siporo.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, tunywe amazi dutekereze neza, bigukiza umutwe, bigukiza mu nda, uri kunnywa amazi ntabwo byongera kukurya, tunywe amazi tugira ubuzima bwiza ni isoko y'ubuzima, utanyweye amazi nta buzima ugira.

Umwirabura n'inzobe bambaye amapantaro y'umukara n'inkweto, umwe ari gukora siporo, amanitse amaboko, anasutaraye, gukora siporo ni byiza, ni ingenzi, ugorora amagufa yawe, agakomera, ukagira ubuzima bwiza, dukore siporo tugire ubuzima bwiza bw'ejo hazaza.

Umukobwa wicaye wambaye imyenda ya siporo, kora ndende n'agasengeri bisa, ufite imisatsi miremire uri kurambura amaboko n'amaguru, aricaye ari kurambura n'umugongo we. Dukore siporo tugire ubuzima bwiza bituma umugongo utananirwa, bituma ufata ibintu neza ntago uruha vuba. Dukore siporo tugire ubuzima bwiza.

Igikoresho Croix Rouge yifashisha itwaramo ibikoresho bigiye bitandukanye mu gihe igiye gutanga ubutabazi bw'ibanze, umukasi, bandana, bandana bazirikisha umuntu mu gihe yavunitse, ipamba mu gihe umuntu basanze arimo aravirirana cyane bamushyiraho iryo pamba rikaba ryakamisha amaraso.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abantu nko kwereka umuntu urunyanya cyangwa umwana, igitunguru, imbuto zigiye zitandukanye, hari n'ibikoresho bitandukanye bifashishwa n'inkweto biteretse ku rubaho, ni byiza tubyifashishe kuko bituma tumenya ibintu bigiye bitandukanye.

Alvega gear, ni amavuta yo kwisiga afite imifuniko isa shokora, aba ari mu ibicupa by'umuhondo ni ay'igikarubamba, avura neza indwara zigiye zitandukanye, iyo tuyisiga bigatuma uruhu rudasaza cyangwa ngo ruse nabi ngo rwumagare, ruhora rufite itoto.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi ni byinshi cyane, byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanya, aho bayivugutaba bakayinywa, ikavu indwara zitandukanye, izo mu nda, umutwe, n'ibiheri ku mubiri, umuntu akaba yasubirana ubuzima bwiza, dutera ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi, kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu mibereho yacu.

Igiti giteye mu ivase gifite amababi y'icyatsi kibisi menshi, igiti kivura ifumbi bakoreshaga kera bivura iyo ndwara ifata mu nda, umutwe iyo uyifite ukacyivurisha urakivuguta ukagihekenya kikagukiza ukagira ubuzima bwiza.

Uruzitiro rwa senyenge, hari igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi gikorwamo umuti, ukavura indwara zigiye zitandukanye, kera n'ubu ngubu biracyakoreshwa, urawunywa ukawurya waba urwaye umutwe ugakira, waba urwaye no mu nda ukagukiza tuwukoreshe.

Umuntu ufite amenyo y'umweru, asa neza, ukoresha imiti yabugenewe mu kuyasukura bituma asa neza agahumura mu kanwa neza. Amenyo ye nacukuke cyangwa arwaye ifumbi acira amaraso kubera ko akoresha umuti wabugenewe n'uburoso bwiza.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi menshi, ari ahantu mu gihuru, yifashwa mu gukora imiti igiye itandukanye, waba urwaye inkorora urakivuguta ukakinywa, ukanakirya, kikakuvura iyo ndwara, kirasharira cyane, bivuze ko ari umuti rero tugisigasire kugira ngo kituvure indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wirabura, uri mu murima urimo ibiti bifite amababi y'icyatsi menshi, yambaye ingofero y'umweru, ari kwitegereza buri babi, arireba ngo arebe ko ntakibazo rifite, iyo ibabi rifite ikibazo riba ryarariwe n'agasimba bikaba bituma ryakwanduza ibindi, biba byiza rero iyo urikuyemo.

Amakuru yo kuri televiziyo Rwanda, barimo baravuga kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, ukuntu bakoresha imiti ya kera ivura abantu, hari umuntu uri gusemurira abantu batumva batanavuga, dukoreshe imiti ya gakondo twivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibibabi by'icyatsi kibisi byifashishwa mu gukora imiti igite itandukanye, harimo n'ibinini muganga akurangira bikakuvura indwara zigiye zitandukanye, twite kuri ibi biti, tubirinda izuba, tubyuhira amazi kugira ngo bihore bitoshye, kugira ngo tujye tubona imiti yo kunywa ituvure indwara zigiye zitandukanye.

Ikirahure kirimo amazi bashyizeho umuravumba ufite amababi y'icyatsi kibisi, uvura indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora, ibicurane, mu nda, umutwe urakinywa ukamera neza, tugisigasire aho giteye tukitaho, tucyuhira, ke kuma kuko ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Igiti gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura ibisebe, iyo ufite ahantu wakomeretse womekaho wabivuguse ukomoka vuba, ugakira igisebe kikuma binakura mikorobe mu mubiri tubisigasire.

Icyatsi gifite ibara ry'icyatsi kibisi gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, inkorora, umutwe kandi kikaba gikoreshwa n'abantu bose, abakuru n'abatoya, imyaka iyo ariyo yose mu gihe ushaka kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti ya gakondo iri mu macupa agiye atandukanye aho bagiye bafata ibiti bigiye bitandukanye, bakabisya, bakabivanamo ifu, ibindi bakabishyiramo amazi bikavamo umuti wo kunywa wifashishwa n'abarwayi bafite indwara zitandukanye, tuyikoreshe kuko ni byiza bituma tubaho neza kandi igihe cyo kubaho cyacu kikiyongera.

Abagabo n'umugore bahagaze ahantu hatewe igikakarubamba, igikakarubamba kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyo wagikoresheje ugira ubuzima bwiza, abo bantu bambaye imipira y'icyatsi, harimo umugabo wambaye ipantaro n'ishati, hari n'undi wambaye costume.

Imiravumba ifite amababi y'icyatsi kibisi ari muri green house, aho adahura n'izuba ngo riyangize, iyo amaze gukura bayajyana mu murima bakajya kuyatera, noneho bikaba ibintu binini cyane, ku buryo abantu baza bakabisoroma, harimo n'abantu bari kugenda basobanurirwa ibiri kuberamo hano.

Ubuki buva mu nzuki, turye ubuki, ubuki ni bwiza kuko aba ari ubw'umwimerere nta ndwara bugutera, aho kugira ngo ukoresha isukari wakoresha ubuki. Isukari ni mbi igutera za Diyabete ariko ubuki ni umuti uvura Diyabete. Dukoresha ubuki ni bwiza.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi menshi kivura indwara zigiye zitandukanyekanya, ifumbi ifata mu nda, umutwe urakira ukamera neza. Cyakoreshwaga kera, n'ubu ngubu kiracyakoreshwa. Tugikoresha twivura indwara zigiye zitandukanye, aho kugira ngo turware, ahubwo ugire ubuzima bwiza.

Igiti cy'igikakarubamba n'uducupa turimo amavuta yatwo, igikakarubambaka ni cyiza kivurarwa zigiye zitandukanye, wakisize ugira uruhu rwiza, urwaye barakikwandikira ukagikoresha ubuzima bwawe bukagenda neza, gisa icyatsi kibisi tugikoreshe tugire ubuzima bwiza.

Ibiti by'icyatsi kibisi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti yo kunywa twandikirwa na ba muganga, biravura waba urwaye, waba utanarwaye wabikoresha kugira ngo wikingire iyo ndwara mbere y'uko uyirwara, hari n'ibindi bintu bikoreshwa mu kurya, ibyatsi bigiye bitandukanye.

Igitunguru ni cyiza, kigira n'ibibabi, kifashishwa mu guteka ibiryo bigiye bitandukanye, kivura inkorora, kivura giripe, kifashishwa nka salade, hari n'indimu yifashishwa mu kwica aside iri ku kintu tugiye kurya, tuyikoreshe neza kuko na yo yifashishwa nk'umuti, tubisigasire hari na vinegere.

Umuravumba ni igiti kigira amababi y'icyatsi kibisi baragisekura kikavamo ifu bifashisha bari gukora imiti igiye itandukanye kikanavura indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane, urwaye umutwe cyangwa urwaye mu nda barakiguhereza ugakira wagihereza abana batoya cyangwa abantu bakuru bose nta kibazo kirabakiza.

Basoromye ibiti bigiye bitandukanye bifite amababi y'cyatsi kibisi n'ifite ay'ubururu, hari agasekuru n'umuhini bigiye gusekura kugira ngo bakuremo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, ushobora kuwunywa cyangwa ukawomeka ahantu hababara nko ku gisebe kikomoka kigakira, ni byiza tubisigasire tubirinda.

Icyatsi gifite ibara ry'icyatsi kibisi, rivura indwara ifumbi ifata mu nda, mu mutwe, mu kanwa, ubaye ufite ifumbi gukoresha iki cyatsi kikakuvura, cyakoreshwaga n'abantu ba kera na n'ubu ngubu kiracyakoreshwa mu kuvura izo ndwara.

Ikinyobwa kiri mu gacupa gasa umutuku hashushanyijeho akanyoni karimo umukara, amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru, Energy Drink gitanga imbaraga iyo wakinyoye nta bunebwe, urakora uba ufite imbaraga nyinshi, tukinywe tugire imbaraga tunoze umurimo.

Ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi yifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye abandi baranabirya, tubikoreshe kera byarakoreshwaga bivura indwara zitandukanye na n'ubu ngubu biracyakoreshwa, ibara ry'icyatsi ni ikintu kiza, tubikoreshe tunabitere kugira ngo bitazabura bijye bituvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi menshi, biteye hamwe, bikoreshwamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, twivuze dukoresheje ibiti bya gakondo, kuko bituma tugira ubuzima bwiza, ahubwo ntibitwangiririze umubiri, tubyiteho, tubisigasire twe kubyangiza.

Igikakarubamba gisa icyatsi kibisi, kigira utuntu tujombana ku ruhande, kirakoreshwa cyane, kivura indwara zigiye zitandukanye, ni umuti wifashishwa mu kuvura ibintu bigiye bitandukanye ni cyiza tugikoreshe wagikoresheje ibintu byose biba byiza tugikoreshe tugire ubuzima bwiza.

Ibiti byinshi by'icyatsi kibisi ibindi birasa ubururu bivura indwara zitandukanye byifashwa mu gukora imiti, aho iyo miti yifashishwa ivura indwara nko mu nda, urwaye umutwe, ukabisiga ahantu agasimba kakuriye urakira ukamererwa neza, tubisigasire kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igikakarubamba gisa icyatsi kibisi, ni igiti kigira amahwa, bakoramo amavuta, bakanakoramo umuti, ku buryo imiti yose yo kwa muganga n'igikarubamba, bituma uruhu rusa neza, iyo ubinywe urakira, bikurinda indwara, tugikoreshe tugire ubuzima bwiza.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, waba ubabara mu nda, waba urwaye umutwe uragihekenya kikaba cyakuvura, cyakoreshwaga kera na n'ubu ngubu kiracyakoreshwa, cyifashishwa nk'umuti wavura indwara zigiye zitandukanye gakondo.

Amavuta y'ubwoko butandukanye, harimo igikaka rubamba abantu bisiga ku ruhu mu gihe bashaka kugira uruhu rusa neza rukeye kandi runoze kandi akaba arinda n'indwara, kuba izuba ritakwica ngo uruhu ruvuvuke.

Tangawiza wayinywa mu cyayi ikakuvura inkorora, tangawiza ni nziza waba urwaye umutwe, waba urwaye giripe iragukiza; tunywe tangawiza tugire ubuzima bwiza, imihumekere myiza, inavura mu mutwe, ubaye urwaye umutwe iragukiza, waba urwayi no mu nda ikagukiza.

Amavuta yo kwisiga ku mubiri akozwe mu gikakarubamba ari mu bicupa by'ubwoko butandukanye ibisa shokora, ibisa oranje, tuyisiga atuma umuntu agira uruhu rwiza akamurinda ibiheri, uruhu ntirwumagare rugasa neza rugatoha ntirusaze.

Isoko ryagenewe abacuruzi bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho abakiriya bagana, baje kugura amasabune, imbuto, ibirayi, ibitoki ku giciro kiza, tubagane tubahahire tubateze imbere mu isoko ryiza.

Shampo ni isabune bakarabisha mu mutwe ikuramo imyanda igatuma umuntu agira ubuzima bwiza mu mutwe, yica mikorobe ni nziza tuyikoreshe wayikoresheje ntakindi wakoresha, shampo ni nziza amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi tuyikoreshe ni nziza.

Ibinini biteretse ku kibabi cy'icyatsi kibisi k'umuravumba niho babikora, bivura indwara zitandukanye, umutwe, inkorora, giripe, iyo ufite ikibazo urabikoresha, umuravumba ni mwiza, urawuhekenya cyangwa bakawuvuguta barawotsa ukaba wawukoresha, ukakuvura indwara ufite ntakibazo.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, abandi barakirya baragisekura kikavamo umutobo ukawunywa cyangwa ukawuhekenya, ni kiza tugikoreshe turi kwivura indwara zigiye zitandukanye kikanatuma ugira n'uruhu rwiza giteye ahantu hari n'utubuye.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi, ni cyiza, kiratoshye, kiriho amazi; tukirinde kigire ubuzima bwiza, kuko gikorwamo imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi; tubisigasire kuko nta muti nta buzima twaba dufite, iki cyatsi ni cyiza tukirinde.

Ibiti biteye mu byatsi bisa icyatsi kibisi, bimwe bifite amashami menshi, ibindi bifite amashami makeya, dutere ibiti kuko bikomeza ubutaka, bigakurura imvura, bikanaduhereza umwuka duhumeka mwiza, bigatuma nta kibazo tugira cy'imihumekere.

Ikirahure n'ikiyiko, hateretsemo indabo z'amabara atandukanye, icyatsi kibisi, y'umuhondo, ibinini biteretse ku biyiko bisa umweru, ibiterutse ku meza. Indabo ni nziza, zirahumura, zirategurwa ahantu hagasa neza, bakanazikuramo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi, kiriho akazuba, giteye ahantu mu butaka, ni cyiza kifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, tunywa ikatuvura indwara zigiye zitandukanye zo mu mubiri wacu, harimo nk'ibicurane, urwaye mu nda, ubabara umutwe, urabihekenya bikaba byagukiza,...

Abantu bari mu murima bambaye imipira y'imyeru, abandi bambaye iy'icyatsi kibisi, amamashini ahinga, mo imbere hicayemo abantu bambaye imipira y'icyatsi kibisi, dukoreshe izi mashini kuko zituma duhinga neza, tukabona umusaruro byihuse mu gihe gitoya.

Igikakarubamba gisa icyatsi kibisi, kigira utuntu tw'uduhwa kuri cyo, kigira amakakama yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, nk'iyo urwaye umutwe uragikoresha ugakira, waba ufite igisebe ugasigaho ugakira, bagikoresha mu gukora amavuta agiye atandukanye iyo wayisize ugira uruhu rwiza.

Ironji ni urubuto barya rugatanga vitamine, baruciyemo ibice byinshi, rusa oranje, ruteretse ku iparato y'umweru, turuha abana n'abakuru na bo bakarurya, mukaba mwagira vitamine, rukakurinda indwara, ruraryoha, n'uruhu rwabo rukoreshwa nk'umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.